Utubari twinshi dukunze kuba turimo intebe ndende zikunzwe n'abakiriya bagana mu tubari, zino zituma bicara bameze neza, bagafata ibinyobwa bifuza n'ibiribwa , bameze neza, kandi bumva bicaye neza.

Ikinyobwa nka Heineken gikunzwe mu gihugu, usanga ku byapa byinshi byamamaza utubari cyangwa utubyiniro tunywebwamo ibinyobwa bitandukanye, aricyo kinyobwa kiri ku byapa byaho kuko ni ikinyobwa cyujuje ubuziranenge kandi gikunzwe n'abantu benshi mu gihugu.

Hari udupapuro twabugenewe tuba turi ahantu hacuruzwa ibintu binyuranye, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, usanga agapapuro kaba ariho ubwoko, niba ari ibiribwa, ubwoko bw'ibiribwa bafite, n'ibiciro byabyo cyangwa ibinyobwa, ubwoko bw'inyobwa bafite n'ibiciro byabyo, bitewe n'ikinyobwa.

Ikinyobwa kizwi nka mitsingi gitegurwa n'uruganda rwa Burarirwa gikunze kuba kiru ku byapa by'utubari dutandukanye. Iki kinyobwa gikunzwe n'abantu benshi bari mu gihugu cy'u Rwanda aho ushobora gusanga nk'ahacururizwa ibinyobwa ushobora kukibura kuko gifite abakiliya benshi, n'abakunzi benshi, batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi, yaba inshuti cyangwa imiryango, bakunze gusohokera mu tubari, bagafata ibinyobwa bitandukanye bitewe n'ibyo bifuza, yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, bakaba babategurira n'amafunguro bifuza, bakaba bahava banafunguye.

Abantu benshi yaba abakorana mu kazi, inshuti cyangwa abavandimwe bakunze gusohokera mu tubari mu masaha ya ni joro bakishima bagasabana bafata ibyo kunywa bitandukanye n'ibiribwa binyuranye basabana mu buryo bwiza.

Mu tubari usanaga hari ububati buri hejuru y'ahacuruzwa bufasha abakiliya babagana kuhabona ibinyobwa by'ubwoko bitandukanye bakaba bareba niba hari ibinyobwa bifuza bakaba babigura cyangwa mu gihe bidahari bakaba babibashakira...

Hari uburyo bwashyizweho ahatangirwa service zaba iz'ubucuruzu bw'iribwa cyangwa ibinyobwa aho utunga telephone yawe ku kantu nk'aka ngaka, ukaba wabona ubutumwa burambuye ku bicuruzwa bafite, service batanga bitagusabye kubaza umukozi uhakorera.

Iki ni icyapa kiri ku muhanda hafi n'inzira nyabagendwa kikaba ari icyapa kiriho inzoga yitwa Virunga.

Ahacuruzizwa ibinyobwa hazwi nko mu tubari, uhasanga ibirahure mu ngano zitandukanye, nk'umukiriya wabaganye, ushobora kwaka ikirahure wifuza yaba ikinini, ikiringaniye, cyangwa igitoya, icyagufasha mu kunywa neza ikinyobwa cyawe watse barakiguha nk'uko ukifuza

Utubari twinshi turi mu mujyi wa Kigali, dukunze gusohokerwamo n'abanyamahanga, cyangwa abanyarwanda benshi batandukanye. Nyuma y'akazi mu masaha ya nimugoroba, aho usanga dufite abakiliya benshi yaba abanywa, cyangwa abafungura ibiribwa binyuranye.

Hari inzobere mu gutegura ibinyobwa bivanze, bakunze kuba bari mu tubari twinshi twateye imbere mu gihugu, aho umukiriya amugana akamubwira ubwoko bw'ibinyobwa ashaka ko amuvangira, akaba yamutegurira ikinyobwa kimuryoheye nk'uko abyifuza.

Aho waba uri hose mu gihugu, cyane cyane mu mugi wa Kigali. Uhasanga ibyapa bitandukanye, byamamaza ibinyobwa by'ubwoko bwinshi, yaba ibyengerwa mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Bikunze kuba ibi byapa ku tubari tunyuranye cyangwa ku mihanda myinshi, aho wanyura hose urabibona.

Mu masaha ya ninjoro usanga utubari twinshi dufite abakiriya benshi , bakeneye ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye. Abenshi usanga basohotse ari nk'inshuti , cyangwa umuryango , aho usanga utubari dufite akazi kenshi abashinzwe guseriva abo bakiriya baticara hamwe babakira ubutitsa.

Abantu benshi mu masaha ya saa sitajya cyangwa mu masaha ya mugitondo bakunze kugana ahacuruzwa ibiryo bakeneye gufungura kugira bajye mu kazi neza, cyangwa kugira ngo basubire mu kazi bavuye mu gihe cy'akaruhuko bameze neza, nta kibazo bafite cy'inzara.

Amasaha ya nijoro usanga utubari twakamo amatara y'ubwoko butandukanye, aho abantu benshi bakunze kutugana mumasaha ya nijoro bavuye mukazi, cyangwa mugihe cy'ibiruhuko atari muminsi y'imibyizi, baba bakeneye gusangira no gusabana nk'inshuti.

Hari uburyo bwiza bwashyizweho aho ushobora kugurira ahantu ibicuruzwa cyangwa ibinyobwa cyangwa baguhaye serivise zinyuranye, ukaba wakwishyura ukoresheje ikarita yawe ya banki ku giciro kiza, aho ufata ikarita yawe ukaba wayishyira kuri ako kuma kabugenewe ukaba wakwishyura ntankomyi.

Ushobora kwishyura Kandi ukoresheje ikarita yawe ya banki yaba mu tubari ,mu masoko cyangwa amaduka watsemo ibintu bitandukanye. Aho ufate ikarita yawe ya banki ukayishyira mu Kuma kagenewe ko kwishyurirwaho ugashyiramo umubare w'amafaranga na nimero ya konti yiryo duka bitewe naho wafatiye ibicuruzwa, kuba washyiraho umubare w'amafaranga ukabishyura ntakibazo.

Hari uduce twinshi turi mu gihugu aho usanga hari imiryango yagenewe utubari gusa, aho usanga buri muryango urimo akabari ikizahakubwira uzahasanga ibyapa byamamaza ibinyobwa by'ubwoko bwinshi butandukanye ku miryango yaho.

Ubu ntibikiri ngombwa kugenda werekeza mu maduka atandukanye ubaza ibicuruzwa bafite, kuko ukihagera baguha agapapuro kaba kariho ubwoko bw'ibicuruzwa bafite n'ibiciro byabyo bityo ukabasha guhitamo ibyo ukeneye cyangwa ukareba ko ibyo ukeneye babifite.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye usanga hari intebe ndende, n'amameza yagenewe abakiriya babo nyine bibafasha kwicara bakumva bameze neza, bakaka ibiribwa cyangwa ibinyobwa bifuza bakaba babibasangisha aho bicaye.

Hari udupapuro twajyanewe abatanga serivise zijyanye n'ibiribwa cyangwa ibinyobwa, aho usanga hari udupapuro turiho ubwoko bw'ibiribwa bafite cyangwa ibinyobwa n'ibiciro byabyo bityo bikaba byagufasha guhitamo ibikunogeye mu biciro.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga aho ushobora gukoresha telephone yawe ngendanwa ukaba wasikana kwako kapa, ukabona ubutumwa burambuye, yaba ibicuruzwa bicururizwa aho ngaho n'ibiciro byabyo bityo bikaba byagufasha kuba wamenya ibyo wahitamo bikunogeye.

Ikizakubwira utubari cyangwa imiryango yinjira mu tubari hakunze kurangwa n'ibyapa byamamaza ibinyobwa bitandukanye yaba ibitegurwa n'uruganda rwa sikoro cyangwa urwa burarirwa ukunze kubisanga ku marembo y'utubari dutandukanye cyangwa ku byapa biri hejuru y'utubari.

Utubari twishi dukunze kuba turimo insakazamashusho nyinshi nini zishobora kureberwaho n'abakiriya bose bari mu kabari, hakunzwe kwerekana imyidagaduro itandukanye ijyanye n'umuziki cyangwa umupira w'amaguru bitewe n'imikino yabaye.

Ahenshi hazwi nk'ahacururizwa amakawa cyangwa ibindi bitandukanye usanga bafite amata, icyayi, amakawa n'ibindi bitandukanye bizwi nk'ibinyobwa, aho usanga hari akapa kagenewe kaba kariho ibicuruzwa byabo n'ibiciro byabyo.

Mu tubari twinshi dutandukanye uhasanga ubwoko bw'ibirahuri mu ngano zitandukanye bitewe n'uko wifuza ikirahuri nk'umukiriya wabagannye, baguha ikirahure yaba kinini, igitoya, ikiringaniye, bitewe n'icyo ukeneye.

Utubari twinshi dukunze kugira abakiriya mumasaha ya nijoro kuko aribwo abantu benshi baba bavuye mu kazi bakeneye kuruhuka bagasabana nincuti zabo basangira icyo kunkwa nibiribwa bitegura ejo kujya kukazi bameze neza.

Mu tubari usangamo ibyuma bibikwamo ibinyobwa bitewe nk'uko umukiliya abyifuza bakaba bamuha ikinyobwa gikonje cyangwa igishyushye n'ibindi binyobwa bimanitse mu utubati, bikunze kuba bicuruzwa ku biciro bihenze bitewe n'icyo ukeneye barakiguha nk'uko ubyifuza.

Hari udupapuro tuba turi mu maresitora atandukanye yo mu gihugu tuba turiho ubwoko bw'ibiribwa cyangwa ibinyobwa bategura haba hariho ibicuruzwa by'ubwoko bafite ku giciro cyagenwe ukaba wahitamo ibyo wifuza ku giciro kikunyuze.

Utubari tuba turimo intebe nyinshi, bino bifasha abacuruzi b'utubari kuba bakwakira umubare mwinshi w'abakiriya baba bifuza kubagana, haba hari n'ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, ku buryo uhaganye wese ahabona ikinyobwa cyose yifuza.

Utubari twinshi tuba twubatse mu buryo buteye ubwuzu, bino bituma akabari kabasha gukurura abakiriya benshi, bakurikiye ubwiza na serivise bahabwa muri utwo tubari, uhasanga ibinyobwa bw'ubwoko bwinshi butandukanye, ku buryo bwiza, ku buryo nta mukiriya wahagana ngo ahabure ikinyobwa cyose yaba yifuza.

Utubari twinshi cyangwa amaresitora ahatangirwa serivise yaba izibiribwa cyangwa ibinyobwa usanga hari utubaho twandikishijeho ingwa tuba turiho amasaha bakora kuva mu gitondo kugera ni mugoroba n'ibicuruzwa bafite n'ibiciro byabyo.

Utubari twinshi tubaduteguye mu buryo bwiza aho usanga harimo intebe nyinshi n'ameza yo kwakiriraho abakiriya babagana, iyo ukihagera usanga hari ubupapuro bwabugenewe ruriho ibicuruzwa bino bikaba bigufasha guhitamo icyo waba wifuza.

Inzu irimo abantu bakoreramo ba MTN,ndikubona abantu batatu bafite ibirangantego bya MTN,hari n'ufite igipankarite ari kerekana uko babishyura kuri momo payi nabandi babiri , n'undi ufite apareye ushobora kuba ari gufotora n'undi urimo imbere muri kontwari.

Ikizakubwira ahari utubari cyangwa ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye, uzahasanga ibyapa byamamaza ibinyobwa binyuranye, bikunzwe n'abatari bake mu gihugu, yaba ibinyobwa bisembuye cyangwa ibidasmbuye, ubisanga byo byapa biri ku marembo y'utubari twinshi mu gihugu.

Abantu benshi bakunze gusohokera mu tubari bagamije kwishima no kuba banywa agacupa kabo kandi bameze neza, aho usanga abantu benshi basohotse bagiye gusabana mu kabari kandi hakunze no kuba bategurirwa ibiribwa, bino bikaba bifasha abanywa kuba banywa bameze neza kandi banafungura.

Mu tubari cyangwa ahacururizwa ibinyobwa usanga hari ubwoko bw'ibinyobwa bwinshi butandukanye aho ushobora kuhasanga ibyo waba wifuza byose bino bikaba bifasha abacuruzi, kuba bacururiza buri mukiliya wese ubagezeho, bitewe n'ibyo yifuza bakaba babimugezaho.

Utubari twinshi tuba dufite ubuso bunini bino bifasha Ako kabari kwakira abakiriya benshi, mumasaha ya nijoro uhasanga abakiriya bingeri zose ari abakeneye ibiribwa ibinyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye

Utubari twinshi turi mu gihugu cy'u Rwanda, usanga karimo intebe ndende zikikije aho umucuruzi aba ari kandi n'ububati butatse ubwuzu bubamo ubwoko bw'ibinyobwa butandukanye, aho bino bikurura abakiliya kuba babigura.

Mu tubari twinshi dutandukanye usanga bacuruza ibinyobwa by'ubwoko bwinshi, bityo bakaba batabura uko bafasha umukiriya uwaruwo wose waba ubagannye, waba ukeneye ibiribwa bikaze, ibisembuye cyangwa ibidasembuye, byose urabihasanga kandi mu ngano zitandukanye.

Ubu hashyizweho uburyo bworoshye aho ushobora kubona serivise zitangirwa ahantu waba wagiye cyangwa ibicuruzwa byacuruzwaga n'ibiciro byabyo icyo ukora ni ukuba washyira telefone yawe kuri ako kantu kameze uko, ukaba wagasikana ukareba ibicuruzwa byabo n'ibiciro byabyo bityo bikaba byagufasha mu gihe wahasohokeye.

Ububari bwinshi butandukanye usanga hari inzobere mugutegura ibinyobwa bikunzwe n'abantu benshi aho bafata ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye bakaba babivanga bikavamo ikinyobwa kimwe nkuko umukiriya wabibasabye abyifuza bakaba bakimutegurira.

Utubari twinshi dukoze mu buryo bumwe bukurura abakiliya, aho usanga buteye ubwuzu, busa neza, bukoreramo abatanga serivise bakazitanga neza, bagategura n'ibiribwa neza mu buryo bwiza bwo gukurura abakiliya.

Hari ibyapa byinshi mu mujyi wa Kigali no mu ntara, byamamaza ibinyobwa bikunze gucururizwa mu tubari, aho usanga biriho ibinyobwa binyuranye bikorerwa mu nganda zitandukanye mu gihugu kandi nk'uburyo bwiza bwo kwamaza ibyo binyobwa, babishyira ku byapa bitandukanye mu mihanda inyuranye mu gihugu.

Mu masaha ya nijoro utubari dukunze kugira abakiliya benshi, cyane cyane mu minsi y'ibiruhuko nko ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru cyangwa mu minsi isanzwe nyuma y'akazi, aho abantu benshi bakunze kuhagana bakeneye gusabana nk'icuti cyangwa abakozi bakorana mu kazi gatandukanye.

Hari udupapuro tuba turi mu maresitora atandukanye yaba utwibiribwa cyangwa ibinyobwa bitandukanye aho umukiriya ubagannye ashobora kubireberaho ibicuruzwa yaba yifuza n'ibiciro byabyo akaba yamenya icyo yahitamo.

Utubari twinshi turi mu gihugu tuba dufite utubati bashyiramo ibinyobwa bikaze dukunze kwita amarikeri nubundi buba burimo ibindi binyobwa binyuranye ariko utu tubati tukaba tuba turimo ibinyobwa bihenze biri muri ako kabari.

Mu tubari twinshi, mu masaha ya ninjoro usanga hari kwerekanirwaho ku nsakazamashusho zaho imipira y'amaguru iba yabaye, yaba mu Bwongereza, n'andi mahanga atandukanye, aho usanga bafite umubare munini w'abakiriya baje kuba banywa, kandi bareba iyo mipira iri kuba.

Hari ubwapa bwagenewe mu ma resitora cyangwa ububari butandukanye n'ahandi hose hacururizwa ibiribwa, aho usanga buri gapapuro kariho ubwoko bw'ikiribwa cyangwa ikinyobwa n'igiciro cyabyo, byaba ibiribwa usanga biri ku ruhande rwabyo n'ibiciro byabyo bitewe nibyo wifuza.

Utubari twinshi abazwi nk'abatanga serivisi bazwi nk'abaseriveri, mutubari twinshi hakunze kuba hakorwamo n'igitsinagore, nk'uburyo bwiza bwo gukurura abakiliya cyangwa bakaba bahabwa serivise nziza nkuko babyifuza.

Utubari twinshi tuba twaka amabara atandukanye aho usanga hari ahantu henshi abakiliya bashobora kwicara bitewe n'uko baba bakwifuza, buba buri mu buso bunini aho ushobora kwicara ahakunyuze bitewe aho ushaka n'abo muri kumwe.

Utubari dukunze gukora mu masaha ya ninjoro aho usanga twakamo amatara y'amabara atandukanye mu masaha ya ninjoro bakunze kugira abakiriya benshi mu gihe cy'ibiruhuko nko kuwa gatandatu cyangwa ku cyumweru cyangwa nyuma yakazi ni mugoroba mu gihe cy'imibyizi aho usanga hari abakiriya benshi bahagannye.

Umubare mwinshi w'abantu bakunze guserukira mu tubari, mu masaha ya ninjiro, aho usanga ububari bwinshi bufite abakiriya benshi, abakeneye ibiribwa n'abakeneye ibinyobwa, usanga umubare mwinshi w'abantu bari mu tubari twinshi dutandukanye, turi mu gihugu.

Ahazwi nk'ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye, yaba ibisembuye n'ibidasembuye, usanga hari udukayi tuba turimo ibicuruzwa byabo, ubwoko bw'ibinyobwa cyangwa ibiribwa n'ibiciro byabyo, noneho bikaba byafasha umukiriya ubagannye guhitamo ibimunogeye bitewe n'igiciro cyabyo.

Mu tubari twinshi haba harimo intebe nziza, zifite ubwuzu, aho usanga hari insakazamashusho nini zifasha abakiriya babagana kuba bareba ibiri kwerekanwa muri izo nsakazamashusho, yaba indirimbo cyangwa imipira y'amaguru, bitewe n'ibyo baberetse uwo munsi.

Ahazwi nko mutubari cyangwa ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye usanga hari ibirahure bitandukanye yaba mu miterere, mu bugari cyangwa mu bunini bitewe nicyo umukiriya yifuje urakimuha akaba ya kinyweramo ikinyobwa kiwe yasabye.

Hari agace kazwi nk'igisimenti, gaherereye mu karere ka Remera, ahazwi nk'ahaba utubari twinshi dutandukanye, n'amaresitora, aho ushobora gusohokera n'inshuti zawe n'abavandimwe, mukaba mwafungura kandi mukahabona ibinyobwa byose mwifuza.

Ikinyobwa Skol Malt gikunzwe n'abantu benshi mu gihugu, uzagisanga ku cyapa kiba kiri ku tubari cyangwa ku mihanda itandukanye mu gihugu, ikinyobwa gitegurwa n'uruganda rwa Skol, kikaba gicururizwa ahari ibinyobwa aho ari ho hose mu gihugu.

Mu tubari twinshi haracururizwa ibinyobwa by'ubwoko butandukanye, usanga hari ibirahuri bitandukanye mu ngano yaba ibinini cyangwa ibitoya byagenewe abakiriya babagana, uwifuza ikirahure bakaba bakimuha kikaba cyamufasha gufata ikinyobwa cye neza.

Ubu hashyizweho uburyo bworoshye, aho ushobora kwishyura amafaranga ari kuri konti yawe ya banki, aho waguriye ibintu bitandukanye cyangwa aho waherewe serivisi, aho ufata ikarita yawe, ukaba wayishyira ku icyo cyuma cyabugenewe, hakaba havaho amafaranga wakoresheje, nk'uburyo bwiza bwo kwishyura.

Utubari ahakunze gusohokerwa n'abantu benshi nyuma y'akazi cyangwa mu gihe cy'ibiruhuko cyangwa igihe bahembwe, aho usanga ibinyobwa bitandukanye, yaba ibikorerwa muri Buralirwa bizwi nka amusiteri cyangwa mitsingi n'ibikorwa n'uruganda rwa sikolo byinshi binyuranye.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa n'amaresitora atandukanye mu gihugu aho bashyiraho ubwoko bw'ibiribwa bategura bikaba byafasha umukiriya kuba yareba niba ibyo yifuza bihari ku giciro kimunogeye.

Ahacururizwa ibinyobwa cyangwa mu tubari twinshi dutandukanye, hakunze kuba hari inzobere mu gutegura ibinyobwa, aho bafate ibinyobwa byinshi binyuranye bakaba babivanga, hakavamo ikinyobwa kimwe nk'uko umukiriya abyifuza, kimunogeye nkuko abikeneye.

Mu bubari usangamo ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye nk'uburyo bwiza bwo gufata neza abakiriya babagana, ikinyobwa cyose waba wifuza urakihasanga ikikunyuze cyangwa icyo wifuza gufatira inshuti yawe byose biba bihari.

Utubari twinshi dukoze mu buryo abakiriya baba bafite aho bicara hahagije ku buryo bashobora kwakira umubare w'abakiriya benshi, aho usanga hari ububati bumanitsemo ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye, bitewe n'icyo umukiriya yifuza bakaba bakimuzanira nk'uko yagisabye kandi gitunganye neza.

Utu dupapuro ni udukoreshwa mu maresitora cyangwa m'utubari dutandukanye tuba turiho ibicuruzwa byaho n'ibiciro byabyo bino bikaba byakufasha kureba niba ibyo ukeneye niba bihari ukaba wabigura kugiciro cyiza bitewe nuko babicuruza aho wasohokeye.

Mutubari uhasanga ubwoko bw'ibinyobwa butandukanye yaba ibisembuye cyangwa ibidasembuye, amazi n'ibindi byinshi, bino bikaba bifasha utwo tubari kuba twakwakira umukiriya uwariwe wese bitewe n'ikinyobwa yifuza kandi bategura n'ibiribwa bitandukanye.

Ku makusanyirizo, ahacururizwa amata, usanga hari ubujerekani mu ngano zitandukanye. Bitewe n'ingano y'amata wifuza, bagupimira mu kajerekani kangana na litiro ukeneye, waba ukeneye menshi, bagushyirira mu kajerekani kanini, cyangwa make, bakaba bagushyirira mu kajerekani gatoya.

Ahacururizwa amata, hari amata akunzwe n'abatari bake, yitwa ikivuguto. Aba afunze mu bujerekani buri mu ngano zitandukanye, yaba aka litiro zirindwi, litiro ebyiri, cyangwa litiro eshatu, bitewe nk'uko uyifuza, barayaguha, kandi aba afunze neza, yizewe kandi yujuje ubuziranenge.

Kumakusanyirizo ahazwi nkacururizwa amata cyangwa ibikomoka k'amata bitandukanye akunze kubari amaduka y'uruganda rw'inyange. Usanga rero ibicuruzwa by'inyange byinshi yaba amata cyangwa ibikomoka k'amata binyuranya imitobe itegurwa nurwo ruganda itunganywa mu imbuto zutandukanye byose urabihasanga.

Inganda zikunze kuba zizwiho gutunganya amata; zitegura n'ibindi binyobwa bitandukanye bikunze gukundwa n'abana cyangwa abandi bantu, usibye ko umubare mwinshi w'ababikunda ari urubyiruko cyangwa abana bato bakunze kwita yahurute.

Ku makusanyirizo, ahazwi nk'ahacururizwa amata, uhasanga ibyuma byagenewe kubikwamo amata. Ibi byuma kandi bikaba birinda amata kwangirika, akaba yamara igihe kinini atarapfa, n'umukiriya uje kuyagura akaba yayagura agifite umwimerere.

Ibiribwa bikoze mu mafarini bikunze gukundwa n'abana cyangwa abandi bantu batandukanye bitewe n'imirimo bakora, bikunzwe gucururizwa mu makusanyirizo ahacururizwa amata cyangwa andi maduka atandukanye.

Ku makusanyirizo usibye kuba bacuruza amata y'amasukano baba bafite n'amata afunze aturuka ku ruganda mu bipimo bitandukanye yaba igice cya ritiro cyangwa ritiro byose urabihasanga n'ibindi binyobwa binyuranye n'amazi n'ibindi byinshi.

Usibye kuba mu makusanyirizo bacuruza amata, ku bakeneye ayo gukoresha mu rugo, ahubwo n'abakiriya babagana bifuza amata yo kunywa ako kanya, barayabaha mu ngero bifuza, kuko baba bafite ibikombe bitandukanye, bitewe n'amafaranga ufite, baguha amata angana n'amafaranga wabishyuye

Hari ibindi biribwa bikozwe nk'ibiraha, bikunzwe n'abantu benshi mu gihugu bakunze gufata nk'amafunguro mu gihe bumva batameze neza bari ku rugendo cyangwa bari mu kazi, bizwi nk'amasambuza, ibi biribwa biba bikozwe mu ifarine mo imbere harimo utunyama duseye, bakunze kuvuga ko biryoha cyane.

Abana bakunze kunywa amata nk'uko ari byo byabafasha nyuma y'ibere, kuko haba harimo intungamubiri umwana akenera mu minsi ye ya mbere, bityo rero kugira ngo afashe ibere cyangwa umwonsa bamugenera n'amata agurirwa mu ma maduka atandukanye aho ashobora kumufasha mu mibereho yiwe ya buri munsi.

Ahazwi nkahacururizwa amata cyangwa ibikomoka kumata usibye kuba bazwiho gucuruza ibikomoka kumatungo azwi nk'inka ahubwo baba bafite nibindi bikomoka kumatungo atandukanye nkamagi aturuka kunkoko nibindi byinshi bitandukanye bikomoka kubuhinzi.

Uruganda rw'inyange ruzwi mu gutegura amata n'ibikomoka ku mata bitandukanye aho rwagiye rufungura amaduka mu duce dutandukanye mu gihugu ducuruza ayo mata n'ibindi bicuruzwa byose bikorwa n'uruganda rw'inyange yaba imitobe n'ibindi byinshi bitandukanye.

Kumakusanyurizo menshi ntabwo uhagana uhashaka amata gusa kuko uhasanga n'ibindi byishi bitandukanye yaba ibiribwa ibikorwa mu mafarini n'ibindi binyobwa binyuranye nk'amazi, imitobe n'ibindi bitegurwa n'izindi ndanda urabihasnga.

Amandazi atetse kandi ahiye neza, akunzwe n'abana n'abakora imirimo itandukanye cyane cyane abanyeshuri, aho usanga bashaka kugura ngo ayisatuye ngo ntiyo aba ahiye araryoshye kandi ameze neza nk'uko babyifuza.

Ku makusanyirizo cyangwa ahacururizwa amata yaba: inshyushyu, ikivuguto, icyayi n'ibindi byinshi bikomoka ku mata; uhasanga ibikombe n'ibirahure biri mu ngano zitandukanye, bitewe n'uko wifuza ayo amata cyangwa ibindi bitandukanye; bagupimiramo nk'uko ubyifuza.

Ahazwi nk'ahacururizwa amata usanga hari n'ibindi bikomoka ku mata, biba bifunze mu dukombe no mu bujerekane butandukanye aho usanga biri mu ngano zinyuranye nk'uko umukiriya abyifuza bakaba bamuha ibimunyuze ku gipimo yifuza.

Ku makusanyirizo, usibye kuba bagurisha amata y'amasukano, ushobora gusanga n'andi mata ategurwa n'uruganda aba afunze, aho aba yaragenwe n'ibiciro byayo. Ushobora kuhasanga amasukani, n'ibindi binyobwa bitandukanye nk'amazi, n'ibindi byinshi.

Ku makusanyirizo menshi ahazwi nk'ahacururizwa amata akunze gutunganywa n'uruganda rw'i Nyanza, bafite n'ibinyobwa bitandukanye nk'ikivuguto, amayawurute akundwa n'abana, kandi ibyo binyobwa biba biri mu ducupa dutandukanye yaba ubujerekani, uducupa turinganiye n'ducupa tunini bitewe n'uko umukiriya abyifuza.

Abantu benshi bakora mu makusanyirizo acuruza amata usanga bafite ibikombe cyangwa ibizwi nk'amajage bibafasha gupima amata ku ngano umukiriya ayifuzaho, batarengeje bakamuha ibipimo byuzuye kandi nabo bakaba basigarana amata nta gihombo kirimo ntayamenetse cyangwa ngo yangirike.

ku makusanyirizo amata akunze kugemurwa mubicuba iyo bahageze bamenya umubare w'ibicuba bazanye n'umubare wa litiro babazaniye akaba yasukwa muri byabyuma byagenewe kubikwamo amata biyarinda kuba yapfa.

Uruganda rwa Mukamira rufite ibyicaro by'amaduka mu duce dutandukanye. Ahacururizwa amata ategurwa n'urwo ruganda hakunze kuba hari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, yaba amazi cyangwa ibindi byose bitunganywa bivuye muri ayo mata, hongewemo ibindi bintu bitandukanye.

Ibi ni ibikombe biri mu kabati ibyo hejuru ni ibirahure, ibyo hasi ni amatasi, ibirahure byo hejuru biteretse kuri seriviyete.

Kumakusanyirizo hakunze kuba hari ibyuma biri mu ngano zitandukanye, yaba ibinini cyangwa ibitoya, bibikwamo amata kandi bikaba bifasha n'umucuruzi w'amata kuba yavomaho amata, atamenetse kandi amata nayo bikayarinda kwangirika akaba yapfa.

Aho bacururiza amata, bakunze kuyagemura mu bicuba bikunze kuba bikoze mu cyuma, bino bikaba bifasha abayagemuye kuba bamenya litiro bagemuye ku iduka, kandi bino bicuba bikaba bitwara amata neza, bikayarinda kuba yameneka cyangwa yakwangirika.

Hari ibyuma byagenewe kubikwamo amata kugira ngo biyarinde kwangirika no kuba yata umwimerere, aho ubisanga mu makusanyirizo acururizwamo amata menshi; bino byuma bibikwamo amata igihe kinini, bikayarinda kwangirika ku buryo n'umukiriya uje kuyagura ayasanga akimeze neza.

Ku makusanyirizo ahanzwi nk'ahacuruzwa amata ntibacuruza amata gusa, kuko bacuruza n'ibindi bicuruzwa bitandukanye yaba ibinyobwa cyangwa ibiribwa n'ibindi byinshi bikomoka ku mata nk'amayahurute n'ibindi byinshi bitandukanye bigiye binyuranye bitegurwa n'urwo ruganda.

Hari uburyo bwiza bwashyize mu duce twose, aho amata avanwa ku ma famu, aho yakamywe, mu nka, akaba yashyikirizwa mu maduka ashinzwe gucuruza ayo mata, ugasanga bafite amata y'umwimerere, ameze neza, y'inshyushyu, nk'uko abakiriya abagana baba bayifuza.

Hari ibikoresho bizwi cyane nk'umubirikira bikunze gukoreshwa n'abantu benshi bacuruza ibintu bisukika bibasaba gusuka, aho abacuruza amata bakoresha iki gikoresho mu gihe basuka amata y'abakiliya babo mu bujerekani bwabo, bityo bikaba byabarinda kuyabogora.

Mugihe uguze amata aho acururizwa ushobora kwaka icyo ushobora kuyasomeza, hakunze kuba harimo ibiribwa bikorwa mu mafarini nk'amakeke, amandazi n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora kugufasha mugihe uri gufungura mu ayo maduka.

Inganda nyinshi zitunganya amata cyane cyane nk'inyange cya mukamira bategura n'ibindi binyobwa bikunzwe n'abana bakora mu mata yinshyushyu. Bino binyobwa bikorwa mu mata hagashyirwamo n'imbuto zitandukanye bitewe n'ikinyobwa bakeneye gukora.

Imigati ikunzwe kuba ikozwe mu ifarini, abanyarwanda benshi bakunze kuyifata nk'ibyo kurya bya mu gitondo; yaba mu maresitora bariramo cyangwa mu ngo zabo aho batuye; usanga mu gitondo ari ibyo bari kurya, basomeza icyayi cyangwa ibindi byinshi bitandukanye.

Kumakusanyirizo haba haribyuma bibikwamo amata biyarinda kuba yapfa aho iyo uhagannye ukeneye amata bashobora kukuvomeramo amata kungano wifuza bitewe nuko uyashaka bakaba bayaguha.

Hari uburyo bwiza abacuruzi bashyizeho aho bategura udukeke twuzuye ubwuzu, tugaragarira neza abakiriya babagana. Bino bikaba byatuma abakiriya babagana bakeneye amata, bifuza n'udu keke two kuba bayasomeza.

Abantu benshi bakunze kuganya kumakusanyirizo , aho baba bakeneye amata y'ikivuguto yaba abanyeshuri , cyangwa abandi bakozi banyuranye bavuye mu kazi, cyangwa mugihe k'ikiruhuko gito gihabwa mu kazi.

Kumakusanyirizo akenshi yaba mu biruhuko cyangwa mu masaha ya nimugoroba, usanga ababyeyi baba batumye abana babo gukamisha amata, bitewe n'uko bayakeneye barayabapimira bakaba bayabaha bakayajyana kuba yakoreshwa mu rugo.

Ku makusanyirizo, ahazwi nk'ahacururizwa amata, uhasanga n'ibindi bicuruzwa bitandukanye nk'amazi, imitobe n'ibindi byinshi, kandi bakunze kugira n'ibiribwa ushobora gusomeza ikinyobwa cyose waba watse mu gihe ukeneye n'icyo kurisha.

Hari ibicuruzwa byinshi bikunzwe gucururizwa mu maresitora n'amarimantasiyo atandukanye aho usanga hari imitobe ifunze mu bikombe n'ubundi bukarito butandukanye, yaba amata n'ibindi byinshi urabihasanga bijyanye n'ibinyobwa.

Amata iyo ageze ku makusanyirizo akurwa mu bicuba akaba yasukwa mu cyuma cyagenewe gutunganya amata, kiyarinda kwangirika ku buryo n'umukiriya uje kuyagura yayasanga akimeze neza, hakaba ntangaruka ntoya ashobora kumugiraho.

Hari ibiribwa bikunzwe n'umubare utari mutoya w'abanyarwanda cyangwa abaturarwanda bikunze kwitwa ibiraha. Ibi biribwa bikunze gukundwa cyane n'abana batoya, biba bikozwe mu mafarini, bimeze nka mpandeshatu, bimeze nk'amasambusa ariko mw' imbere haba harimo ibirayi bakunze kuvuga ko biryoha cyane!

Ahacururizwa ibinyobwa cyane cyane ibizwi nk'amata, uhasanga n'ibiribwa bitandukabye bikoze mu mafarini, bikunze kuba bifunze mu bipapuro by'umweru nk'uburyo bwiza bwo kubirinda kuba byakwandur, aho hantu kandi uhasanga n'ibikomoka ku nkoko bizwi nk'amagi, aba atetse acururizwa ku bakiliya babagana.

Ku makusanyirizo menshi bategura ibikombe biri mu ngero zitandukanye n'ibirahure byinshi binyuranye, aho bitewe n'ingano y'amata wifuza, bitewe n'amafaranga ufite. Bagutegurira igikombe kikunyuze bitewe n'amafaranga ufite yo kwishyura.

Abana bakunze gutumwa n'ababyeyi babo ku makusanyirizo bagiye gukamisha amata yo gukoresha mu rugo yaba ayo guha abana bato cyangwa ayo gutekamo icyayi no gukoreshwa ibindi bitandukanye mu rugo.

Uruganda rw'inyange usibye kuba rutegura amata cyangwa ibikomoka ku mata rukunze kuba rutegura n'imitobe inyuranye yaba ikozwe mu matunda, imyembe n'amacunga n'ibindi byinshi, hakaba hari n'ikinyobwa cy'agahebuzo kiba kivanzemo imbuto zose zitandukanye.

Aho waba uri hose mu gihugu wabona amaduka acuruza amata cyangwa ibikomoka k'umata bizwi nk'ikivuguto, amayawurute byose bikomoka ku mata y' inshyushyu kandi ushobora gusangayo n'imitobe itandukanye mu bwoko bwinshi.

Mu makusanyirizo ahacururizwa amata wahasanga n'ibindi binyobwa bitandukanye, bikorwa mu mata bikunzwe n'abana, kandi amata aba afunze mu bujerekani butandukanye bitewe ningano yifuza, wamuha mu kajerekani yasabye n'ingano yasabye yifuza kuba yagura.

Urubyiruko yaba abanyeshuri cyangwa abakozi bakorera ahantu hamwe bakunze kugana ahantu bacururiza amata mu gitondo cyangwa nimugoroba mu gihe cy'akaruhuko bavuye mu kazi bakaba bafata amata n'ibindi biribwa bitandukanye bikozwe mu mafarini bityo bikabafasha kumera neza.

Ku makusanyirizo cyangwa amakantine atandukanye, uhasanga imbuto zitandukanye cyangwa ibindi biribwa, ntushobora kuhasanga amata gusa, kuko haba hari ikivuguto, inshyushyu, icyayi cya mukaru cyangwa icy'amata n'ibindi binyobwa byinshi.

Ahacururizwa amata bacuruza nibindi binyobwa bitandukanye yaba icyayi, inshyushyu, n'amata yikivuguto, imitobe inyuranye nibindi byinshi bikorwa mumata yinshyushyu nibiribwa bitandukanye bikorwa muma farini.

Ku makusanyirizo, usibye kuba wahasanga amata, uhasanga n'ibikomoka ku mata: yaba amayawurute, amaforomaje n'ibindi byinshi nk'imitobe, n'ibiribwa bitandukanye bikorwa mu mafarini, ushobora kubihasanga.

Usibye kuba ku makusanyirizo bacuruza amata cyangwa ibindi byose bitunganywa n'urwo ruganda rukora ayo mata bakunze no gucuruza amazi yo kunywa akoreshwa mu rugo yaba ayo mu majerekani cyangwa mu bicupa bitandukanye, bitewe n'ayo wifuza ushobora kuyahasanga ku giciro cyiza.

NYANZA MILK n'uruganda ruzwi mu gutegura amata y'umwimerere cyane cyane ruzwi mu gutegura amata y'ikivuguto akunzwe n'abanyarwanda benshi kandi bakaba bategura n'ibindi binyobwa bitandukanye bikorwa mu mata bizwi nka amayahurute bikunzwe n'abana bato.

Aya ni amandazi abiri ari mu ndobo, iyo ndobo ikaba irimo n'akuma kabugenewe mu kuyaterura mu gihe umukiriya ayaguze bakaba bari kuyamushyirira mu cyo ayatwaramo.

Mu makusanyirizo ahazwi nk'ahacururizwa amata ,uhasanga n'amazi akunze gukoreshwa mu rugo, mu gihe yashize ushobora kuyagurira kwayo maduka, usibye kuba bagira amata bagira n'ibindi byinshi bikomoka ku mata n'ibinyobwa byinshi binyuranye.

Ku makusanyirizo ahacururizwa amata, barakira abakiriya banyuranye yaba abakeneye amata yo gukoresha mu rugo, cyangwa ayo kunywa ako kanya bari ku rugendo, kandi hakunze kuba hari n'ibindi binyobwa bitandukanye, yaba imitobe itegurwa n'urwo ruganda, n'ibindi byinshi bitandukanye bitewe n'ibyo wifuza ushobora kubihasanga.

Ku makusanyirizo ahacururizwa amata, usanga abacuruzi baho bafite ibikoresho bibafasha mu gutanga amata neza, bisukuye, kandi bigatuma amata atakwangirika habe na gato, kuko bifasha usuka amata kuyasuka neza, bikayarinda kumeneka.

Uruganda rw'inyange rufite amaduka ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, aho ushobora gusanga amata yaba amasukano cyangwa afunze aturuka ku ruganda n'ibindi binyobwa cyangwa ibiribwa bitegurwa n'uruganda rw'inyange urabihasanga, yaba imitobe n'ibindi bikorwa mu mata bigiye binyuranye.

Uruganda rw'i Nyanza tuzi mu gutegura amata yaba inshyushyu cyane cyane ruzwiho mu gutunganya ikivuguto kiryohera abanayarwanda benshi, bafite amaduka menshi atandukanye mu gihugu aho usanga ibicuruzwa bitegurwa n'urwo ruganda, amazi n'ibindi byinshi bitandukanye.

Mu makusanyirizo, amata akunze kugemurwa ku bicuba, nk'uko ubibona mu ifoto, aho usanga ibi bicuba biri mu ngano zitandukanye kandi bikaba bifasha kubika amata neza, bityo bakaba bayagemura atangiritse habe na gato.

Usibye kuba wasanga ku makusanyirizo amata ahubwo ushobora kuhasanga n'ibindi binyobwa binyuranye, yaba ibikomoka ku mata cyangwa imitobe n'ibiribwa ushobora gusomeza aya mata ushobora kuhasanga bikunze kuba bikozwe mu mafarine.

Ahanzwi nk'ahacururizwa amata bakunze no kuba bacuruza amazi mu ngano zitandukanye, yaba akoreshwa mu rugo nk'ayo kunywa, ayo wanywa uri kurugendo aba ari mu macupa manini cyangwa amatoya bitewe n'uko uyifuza nk'umukiriya baguha ayo ukeneye bitewe n'uko ubyifuza.

Izi ni teremusi ebyiri, imwe ikaba ikozwe mu cyuma indi ikaba ikozwe muri pulasitike, impande yazo hari indobo ifite imikondo y'ubururu.

Hari ibyuma bikunze kuba biri ahacururizwa amata bikunze kubikwamo amata , ibi byuma bifasha amata kuba atapfa kwa ngirika ku buryo bworoshye, kandi akaba yamara igihe kinini atarapfa.

Ahazwi nka hacururizwa ibinyobwa bitandukanye cyane cyane ahakunze gucuruzwa amata usanga bafite abakiliriya benshi mu masaha ya nimugoroba baba bakeneye amata yo gukoresha mungo mu birori bitandukanye yaba mu gutegurayayi cyangwa bakaba bayakoresha mu ibindi bitandukanye by'ibiribwa.

Nyanza miriki uruganda runzwi mugutegura amata akomoka ku nka z'inyanza, rukunze kuba rufite amaduka atandukanye mu gihugu azwiho mugucuruza amata y'umwimerere. Hakunze kuba hariyo n'ibindi binyobwa bitandukanye yaba amazi n'ibindi byinshi.

Ahacururizwa amata, cyangwa ibindi bintu byishi bikorwa n'urwo ruganda rutunganya amata, usanga hari ikindi kinyobwa gitunganywa mu mata gikunzwe n'umubare mwinshi w'abana, cyangwa abandi bantu bake, gikozwe mu mata, gifite uburyohe budasanzwe bukururwa n'abantu benshi, bigatuma bakigura.

Hari ibiribwa bikunzwe n'abatari bake mu gihugu, bikunzwe kwitwa capati. Bino biribwa biribwa n'ingeri zose, aho ubisanga muma arimantasiyo cyangwa ama kantine atandukanye, yaba mu maduka nom'ahandi hanyuranye urabihasanga kugiciro kinyuranye bitewe n'ibigize icyo kiribwa.

Ahakunze kuba hacururizwa amata uhasanga ibiribwa bikozwe mu mafarini yaba amandazi keke, capati n'ibindi binyuranye. Bino bikaba bifasha abakiriya babagana kuba babona ibyo basomeza amata cyangwa ibindi binyobwa byose baba bifuza.

Ku makusanyirizo ahacururizwa amata; haba hari n'ibiribwa byateguriwe abakiliya babagana, bakeneye amata yo kunywa ako kanya bakaba babibaha, bakaba babisomeza ayo mata, kugira ngo bahave bameze neza, bumva hari akagiye mu nda.

Amandazi atetse neza ahiye, ibi biribwa bikunzwe n'abantu benshi, bikorwa mu mafarini, bakabikaranga mu mavuta, bityo bikaba byaza bimeze gutya, abenshi bakunze kugura ibyifatiye nk'uko ubibona bimwe muri ibi ariko ko bimeze, ngo nibyo biba biryoshye kandi bihiye.

Ahacuririzwa amata y'ubwoko butandukanye uhasanga n'ibindi binyobwa bitandukanye bikomoka ku mata y'inshyushyu, bikunze gukundwa n'abana bizwi nkama yawurute. Ibi binyobwa biba bikozwe mumbuto zitandukanye bitewe n'ikinyobwa, buri bwoko buba bufite urubuto ruvangwamo nayo mata kugirango bakore icyo kinyobwa kibe kiryoshye kandi kigaragara neza.

Uruganda rw'inyange ruzwi mu gucuruza ibinyobwa bitandukanye, n'ibiribwa, yaba ibikorwa mu mata, amazi, amata n'ibindi bitandukanye; aho usanga mu gihugu hari amaduka yagenewe gucuruza ibyo bicuruzwa, aho waba uri hose mu gihugu urayahasanga.

Ku makusanyirizo ahazwi nk'ahacururizwa amata hakunzwe kuba hari nk'ibikomoka kumatungo bitandukanye cyangwa kubuhinzi n'ubworozi, yaba imbuto, amagi n'ibindi binyuranye bikozwe mumata cyangwa amata.

Mukamira uruganda ruzwiho mugutunganya amata cyangwa amazi n' ibindi bitandukanye , ifite amaduka muduce dutandukanye mugihugu, aho usanga bafite ibinyobwa bitandukanye, haba ari amata, nibindi byinshi butunganywa nurwo ruganda, haba ibikorwa mu mata cyangwa imitobe itandukanye ikorwa mumbuto.

Ushobora kugura amata, cyangwa ibikomoka ku mata bitandukanye, ukaba wakwaka nk'ikiribwa ushobora kuyasomeza, aho uyaguriye uhasanga ibiribwa bitandukanye, bitewe n'ikikunyuze ushobora guhitamo icyo ushaka, bakaba bakiguha.

Abantu benshi, yaba urubyiruko cyangwa abana batoya, bakunze kujya ahacururizwa amata, bakeneye amata yo kunywa, mu gihe cy'akaruhuko nyuma y'akazi, cyangwa baruhuka mu gihe biteguye gusubira gufata andi masomo, bityo bakaba basubirayo bameze neza.

Inganda zikunze kuba zizwi mu gutegura amata, zitegura n'ibinyobwa bitandukanye bikunze gukundwa n'abana bizwi nka ma yawurute, ibi binyobwa bikorwa mu mata bakongeramo imbuto mu buryo bwo kongera icyanga n'uburyohe; ku buryo bifasha icyo kinyobwa kuryohera abakigura.

Ahazwi nk'ahacururizwa amata cyangwa ibikomoka ku mata, tuhasanga ibiribwa bitandukanye bikoze mu mafarini n'ibinyobwa bitegurwa n'urwo ruganda bindi bitandukanye ku giciro cyiza ukaba wabigura ukabijyana mu rugo cyangwa ukaba wabifata nk'amafunguro aho ngaho wabiguriye.

Umukiliya ugana ahacururizwa amata ushobora kumuha ikiribwa kizwi nka capati ahabwa cyo gusomeza amata yaguze cyangwa ikindi kinyobwa yaguze, yaba ikivuguto, icyayi n'ibindi bitandukanye, akaba yahava ameze neza yumva ahaze nk'uko abyifuza.

Ahantu henshi bacururiza ibiribwa bitandukanye, yaba mu marimantasiyo, n'amakantine, no mu maduka atandukanye, usanga hari n'ibiribwa bitandukanye, yaba ibikomoka ku buhinzi cyangwa ku matungo, nk'amagi, imineke n'izindi mbuto zitandukanye, kandi bakunze no gutegura ibiribwa bikozwe mu mafarini.

Urubyiruko cyangwa abanyeshuri cyangwa abakozi bakora ahantu hanyuranye bakunze gusohokera mu makantine ahazwi nk'ahacururizwa amata mukeneye gusangira aho baka amata mu ngero zitandukanye mu bikombe binyuranye n'ibiribwa bikunze gukorwa mu ifarine bityo bagasangira bagasabana.

Ku makusanyirizo menshi y'uruganda rw'Inyange, ahazwi nk'ahacururizwa amata ategurwa n'urwo ruganda, usibye kuba haba amata haba hari n'ibindi binyobwa bitandukanye cyangwa ibicuruzwa bitegurwa n'urwo ruganda, kandi haba hari amata y'amasukano aba ari mu cyuma cyabugenewe n'andi apakiye mu dupapuro dutandukanye, yaba utunini n'udutoya bitewe n'uko uyifuza.

Ku makusanyirizo ahenshi nk'ahacururizwa amata, cyangwa ibikomoka ku mata binyuranye, uhasanga imitobe n'ibindi bitunganywa mu mata bikunzwe n'abana batoya, bita yawurute biba bikozwe mu mata n'izindi mbuto zitandukanye.

Ibi ni ibikoresho byitwa ibicuba birimo amata bikaba biteretse hasi ku makaro, bikaba byifashishwa mu kugemura cyangwa se gutwara amata.

Ahacuruzwa amata hazwi nk'amakusanyirizo, hakunze kuba hari ibyuma bibikwamo amata cyangwa n'amafirigo yagenewe kubikwamo ibinyobwa, kugira ngo umukiri ubagannye akeneye ibikonje babe babimuha bimeze neza nk'uko abyifuza.

Ku makusanyirizo ahacururizwa amata uhasanga n'ibinyobwa bitandukanye nk'imitobe, icyayi cyangwa ibikomoka ku mata byinshi bitandukanye n'ibiribwa by'ubwoko butandukanye.

Mu makusanyirizo hari ibyuma byagenewe kubikwamo amata, cyane cyane muy'inyange cyangwa izindi nganda zitegura amata. Aho usanga ibikwamo amata nk'uburyo bwiza bwo kuyarunda kwangirika.

Hirya no hino mu gihugu hari amaduka acuruza amata hazwi cyane nk'amakusanyirizo, aho usanga nk'amata n'ibikomoka ku mata binyuranye, ushobora no kuhasanga ibiribwa bitandukanye kandi ukeneye amata ako kanya yo kunywa nayo barayamuha.

Ukeneye amata yaba ku manywa cyangwa nijoro mu gihe butarira cyane, ushobora kugana amakusanyirizo y'uruganda rw'inyange ahazwi nk'ahacururizwa amata cyangwa ibikomoka ku mata byinshi bakaba baguha amata ku ngano wifuza.

Umubare mwinshi w'abana batoya bakunze gukunda bino biribwa bikunze kuba bikozwe mu ifarini, bimeze nka mpande eshatu. Mo imbere haba harimo ibirayi dukunze kwita ibiraha. Usibye no kuba bikunzwe n'abana, n'abantu bakuru benshi batandukanye barabikunda.

Ushobora gusanga amaduka y'uruganda rwa Mukamira aho waba uri hose mu gihugu, ahacururizwa amata yaba amasukano cyangwa amata afunze aturuka ku ruganda; aho ushobora kuhasanga ibicuruzwa waba wifuza byose bitegurwa n'urwo ruganda.

Hari ibicuba byabugenewe bitwarwamo amata, bikozwe mu cyuma, aho ubisanga ku mafamu cyangwa amakusanyirizo babigemuyemo amata, bino bicuba bifasha amata kwangirika, nko kuba yameneka mugihe agemuwe ahantu hatandukanye.

Mu makusanyirizo menshi, ahazwi nkahacururizwa amata y'uruganda rw'inyange, cyangwa ibindi byose bitunganywa n'uruganda rw'inyange. Ushobora kuhasanga kandi n'amazi yo kunywa akunze gukoresherezwa mu rugo, amata mu ngano zitandukanye, yaba mu tujerekani tunini cyangwa udutoya, n'imitobe itunganywa nurwo ruganda.

Ahacururizwa amata, ibyuma bibikwamo amata, usanga hariho udufasha kuvoma amata neza atameneka, ajya mucyo ukeneye kuyavomeramo, kandi muburyo bwiza Kandi icyo ngicyo nacyo kikaba kigufasha amata kuba wayasuka mukajerekani neza atamenetse hasi ngo yangirike.

Hari ibyuma byagenewe kuba byafasha amata kuyarinda kwangirika ahacururizwa amata menshi urabihasanga, biri mu ngano nini bishobora kuba byabikwamo amata menshi kandi ibi byuma bifasha amata kuba yamara igihe kinini.

Mu makusanyirizo menshi harimo ibyuma byagenewe kubikwamo amata birinda amata kuba yakwangirika akaba yamara igihe kinini atarapfa bityo mu gihe batabonye abakiriya bakaba nta kibazo ntakimwe baba bafite mu kwangirika kwayo mata.

Amakusanyirizo menshi azwiho mugucuruza amata y'uruganda rw'inyange cyangwa amata yinyanza usanga hari ubujerekani mungano zitandukanye yaba ubutoya ubunini bitewe ningano wifuzamo amata baguha akejerekani wifuza.

Ahantu henshi hazwi nk'ahacururizwa amata usanga bategura n'ibiribwa bitandukanye kubakiriya babagana, usibye kuba bagira amata bagira ibiribwa bitetse ibikorwa mu mafarini n'ibindi byinshi bitandukanye kandi ushobora no kuhasanga usibye kuba bafite amata wahasanga n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Uruganda rw'inyange rufite amaduka ahantu henshi mu gihugu, aho usanga bafitemo ibyuma binini bibikwamo amata ku kigero kinini, aho usanga hashobora kujyamo amata menshi ashobora kumara igihe kinini kandi icyo cyuma kikaba kiyarinda kwangirika.

Hari ibyuma biba mu makusanyirizo menshi azwiho mu gucuruza amata bino byuma bifasha amata kuba yagumana umwimerere bikayarinda kwangirika mu gihe kinini, ukaba wayacuruza ku bakiriya kandi akaba ntakibazo yabagiraho kuko agumana umwimerere niyo yaba amaze igihe kinini bityo ibyo byuma bikayarinda kuba yapfa.

Ku makusanyirizo usibye kuba haba amata, haba hari n'ibinyobwa bitandukanye yaba amazi, imitobe bitegurwa n'uruganda rw'inyange bitewe n'iryo kusanyirizo, ryaba ari iry'inyange cyangwa irindi ritandukanye, turahasangamo ibinyobwa byinshi by'ubwoko bunyuranye.

Amandazi, ibiribwa bikunze gukundwa n'abana n'abanyeshuri, bikunze kuba bitetse, bihiye neza, ariko abenshi mu rubyiruko bakunze kubigura iyo ari amandazi yisatuye, ngo niyo aba aryoshye, ahiye, kandi ameze neza.

Abana n'abantu bakuru bakunze kugira terezimata bakeneye amata yo kunywa bari kurugendo cyangwa mu guhe k'ibiruhuko aho usanga bagura amata mu ngero zitandukanye bitewe n'uku bayifuza kandi muri ayo makusanyirizo bakunze no kubategurira ibiribwa bikoze mu mafarini agafata ibyo yifuza wasomeza aya mata.

Ahazwi nkahatangirwa serivisi cyangwa gucuruza amata n' ibindi binyuranye usanga hari n' ibindi binyobwa bitandukanye yaba imitobe itegurwa n' urwo ruganda ikoze mu mbuto zitandukanye, yaba amaronji, imyembe n' ibindi binyuranye. Ukaba wahasanga n' ibindi binyobwa bitandukanye bitegurwa n' izindi nganda.

Ku makusanyirizo menshi ahazwi nk'ahacururizwa amata, uhasanga ibikombe mu ngero zitandukanye, yaba ibinini cyangwa ibitoya, bifasha gupimira abakiriya amata nkuko babyifuza kandi bashyireho ibyuma bibafasha mu gupima amata ku ngero bifuza kandi kitarengeje mu buryo bwiza .

Ku makusanyirizo menshi, ahacururizwa amata, uhasanga intebe zagenewe abakiriya bakenera amata yo kunywa ako kanya, usibye kuba bita kubakiriya bakeneye amata yo gukoresha murugo, n'abakeneye ayo kunywera aho ngaho ako kanya, babategurira intebe n'utumeza bashobira kwicaraho bagafungura ibyo bifuza.

Ahacururizwa amata ukunze kuhasanga ibikombe biri mungano zitandukanye nibirahure buteye ubwuzu bino bikaba bifasha abakiriya babagana kuba bahitamo ingano yamata bifuza bakaba bayabakiriza nkuko bayakeneye.

Ku makusanyirizo ahazwi nk'ahacururizwa amata uhasanga ibyuma byagenewe kubikwamo amata, bino byuma bikaba bifasha amata kuba yagumana umwimerere bityo bikayarinda kwangirika, n'umukiriya uje kuyagura agasanga agifite umwimerere.

Ahacururizwa amata hakunze kuba hari nibiribwa bikunze gukorwa mumafarini yaba amandazi keke usibye kuba haba hari n'amata gusa uhasanga nibindi binyobwa yaba imitobe icyayi nibindi byinshi.

Ahazwi nk'ahacururizwa amata, uhasanga amata n'ibindi byinshi bikomoka ku mata, kandi ushobora no kuhasanga ibiribwa ibyo ari byo byose waba wifuza. Yaba ibikorwa mu mafarini, n'ibindi bitegurwa n'inganda zitandukanye, ukaba wabisomeza amata watse.

Amakusanyirizo menshi akunze kuba yubatse muburyo buteye ubwuzu aho usanga amenshi arimo amakaro nkuburyo bwiza bwisuku igaragarira abakiriya babagana nkahantu hacururizwa amata hakunze kuba hasa neza Kandi hateye ubwuzu.

Amakusanyirizo menshi ahazwi nk'ahacururizwa amata, n'ibikomoka ku mata binyuranye, uhasanga ibinyobwa birimo: imitobe, amazi, n'ibindi byinshi bitunganye bikorerwa mu mata nkamayawurute, ikivuguto n'inshyushyu, uhanga kandi n'ibiribwa bitandukanye ushobora gusomeza ayo mata.

Uruganda rw'i Nyanza ruzwi mu gutunganya amata, yaba inshyushyu cyangwa ikivuguto, rufite amaduka menshi mu gihugu aho usanga bacuruza amata n'ibikomoka ku mata binyuranye, yaba amaforomaje n'amata akunzwe n'abana aba arimo imbuto yitwa yahurute.

Ahacururizwa amata hazwi nk'amakusanyirizo uhasanga n'amajerekani ari mu ngero zitandukanye, bino bikaba bifasha umucuruzi kuba yaha umukiriya amata bitewe n'ingano yifuza yaba utujerekani duto cyangwa amajerekani manini yose aba ahari bitewe n'ingano y'amata yifuza baguha mu ijerekani yajyamo iyo ngano ukeneye.

Umuyoboro wa emutiyene wegereje seriviise abaturage aho batuye mu duce utwaritwo twose, aho usanga umukozi aho waba uri hose wagufasha muri serivise waba ukeneye, waba ukeneye kugura amayinite, koherereza umuntu amafaranga, kubitsa cyangwa kubikura byose arabigufasha.

Abantu benshi bashyizwe mu gutanga serivisi ku muyoboro wa MTN, abafite inzobere muri ibyo ubasanga mu byicaro by'uwo muyoboro, bafasha abakiriya babagana mu bibazo runaka baba bafite.

Uburyo umuyoboro wa MTN washyizeho ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho umuyoboro wa MTN ugenera imibare yo kubishyuriraho kuri buri mucuruzi wese kuburyo umukiriya uhagannye ashobora kwishyura akoresheje telefone ye ngendanwa.

Utuzu tw'umuyoboro wa MTN dukoreramo abakozi babo turi mu duce dutandukanye tw'igihugu, abenshi bagize ikibazo ku muyoboro baratugana, abakozi babamo bakaba babafasha ku kibazo runaka bagize kijyanye n'umuyoboro.

Ubu hari uburyo bwiza kandi bworoshye aho ushobora kwishyura ukoresheje konti ya banki, cyangwa uburyo bw'umuyoboro uwo ariwo wose ukoresheje terefone yawe, aho usikana kode y'umucuruzi ukaba wakwishyura kuri iyo kode bitagusabye kwishyura ukoresheje amafaranga yo mu ntoki mu gihe utayafite.

Umuyoboro wa emutiyene washyizeho uburyo bwiza aho ushobora kugura amayinite ari kuri fone, ku kizwi nka mpomo icyo ukora ni ugushyiramo umubare w'amayinite wifuza, baguhitishamo niba ufite amayinite kuri fone cyangwa ukeneye gukoresha momo yawe. Ugashyiramo umubare w'ibanga ukayagura bitagusabye kujya, aho bayagurira ,ku mucuruzi cyangwa ku mukozi w'umuyoboro wa emutiyene.

Ku mihanda aho waba uri hose, ushobora kuhasanga abatanga serivisi ku muyoboro wa Emutiyeni kandi bashyizeho ibihembo na tombora ku bakiriya babo baza babagana, bakeneye serivisi zitandukanye, aho ushobora guhabwa imipira cyangwa ugahabwa amahirwe yo kuba watombora ibihembo bitandukanye.

Ubu ni uburyo bwo kugura cyangwa kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho ushyiramo akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri rimwe, ugashyiramo nimero y'umucuruzi, ugashyiraho akanyenyeri umubare w'amafaranga, ukaba wakwishyura ukoresheje telefoni yawe ngendanwa.

ubu ntibikiri ngombwa kujya ku cyicaro iyo ukeneye serivisi ku miyoboro ya mtn kuko hari abakozi bakora mu duce dutandukanye mu gihugu, hafi y'aho utuye babashaka kugufasha muri serivisi zose waba ukeneye waba ukeneye kubitsa amafaranga kubikuza kugura amayinite n'ibindi byinshi.

Abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni (MTN) bakorera mu tuzu tuba turi ku mihanda, usanga bafite abakiriya benshi bakeneye serivise zinyuranye, no gukemurirwa ibibazo bitandukanye baba bafite ku muyoboro yabo: kugura ama inite n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ku muyoboro wa Mtn begereje serivise abaturage aho waba uri hose mu gihugu ushobora kubona umukozi w'uwo muyoboro ushobora kugukemurira ikibazo cyose waba ufite waba ukeneye kwiyandikishaho simukadi nshyashya, kwiyandikishaho iyo waba wabuze mu gihe bayibye n'ibindi byinshi.

Mu duce twose tw'igihugu uhasanga utuzu dutangirwamo serivise z'umuyoboro wa emutiyeni aho usanga harimo abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni bashobora ku gufasha kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga cyangwa koherereza umuntu amafaranga aho yaba ari hose mu gihugu cyangwa inyuma yacyo.

Amaduka menshi atandukanye acuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, yaba telefoni, za mudasobwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Ushobora kuhagura ibyo waba wifuza kuko hemerwa uburyo bwo kwishyura ukoresheje umuyoboro wa emutiyeni, aho wishyura mu buryo bworoshye ukoresheje telefoni yawe ngendanwa.

Uyu ni umuntu ufashe terefone mu biganza akaba ari gukora igikorwa cyo kubitsa cyangwa kubikuza kuri momo, akaba ari ubutyo bworoshye bwashyizweho n'umuyoboro wa emutiyene.

Umuyobo wa MTN ugenda utanga ubukangurambaga mu duce dutandukanye mu gihugu, aho usanga abakozi babo bashishikariza abantu bose gukoresha uwo muyoboro kandi bakabagenera n'ibihembo, bitewe n'uko bakoresha umuyoboro wa MTN.

Mu gihe ukeneye koherereza umuntu amafaranga, kubitsa amafaranga kuri telefone yawe cyangwa kuyabikuza, kugura amayinite n'ibindi byinshi bitandukanye ushobora kugana abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni bakorera mu tuzu tw'umuhondo cyangwa mu mitaka bakaba babigufashamo.

Abacuruzi benshi bacuruza ibintu bitandukanye cyangwa batanga serivise zinyuranye, bishimiye uburyo bashyiriweho bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho biri mucuruzi aba afite imibare yiwe ushobora kumwishyuriraho ukoresheje telefone ngendanwa.

Mu masoko atandukanye, aho ushobora kugura ibicuruzwa byinshi kandi binyuranye, ushobora kwishyura ukoreshejwe telefoni yawe ngendanwa kuko umuyoboro wa emutiyeni warabyohereje, icyo ukora ushyiramo imibare y'iryo soko waguriyemo cyangwa ry'umucuruzi waguriyeho, n'umubare w'amafaranga, ukaba wakwishyura.

Abantu benshi bakunze kugana umuyoboro wa emutiyene ahaba hashizwe umutaka barikwamamariza cyangwa bari gutangira serivise zitandukanye kuko baba bageneye ibihembo abakiliya babo bakoresha uwo muyoboro cyane, usanga hari abantu benshi bashungereye bareba abo basusurutsa bamamaza uwo muyoboro.

Umuyoboro wa emutiyeni wageneye abacuruzi cyangwa abatanga serivise zinyuranye utwapa turiho imibare bashobora kubishyuriraho amafaranga bageneye umukiriya wabo ashobora kwishyura, bitamusabye gutwara amafaranga mu ntoki, ashobora kwishyura kuri iyo mibare amafaranga akaba yagera ku mucuruzi mu buryo buto bwihuse kandi butagoye.

Usibye kuba ku muyoboro mu byiciro bitandukanye by'umuyoboro wa MTN, batanga serivise zinyuranye ku muyoboro, ahubwo ushobora kuhagurira nka telephone, ibirahure bya byo nibindi ibindukanye bizwi nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Mu mugi cyangwa ahandi hantu hose uhasanga abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni, bambaye amajire y'umuhondo aho baba bafasha abaturage

Kubyicaro byumuyoboro wa MTN uhasanga serivise zitandukanye waba wifuza kugura telefone bitewe nuko ukoresha umuyoboro bakugenera telefone ihwanye nubushobozi bwawe ushobora kwishyura gake gake mugihe cya umwaka cyangwa mugihe cya amezi atandatu.

Ahantu henshi hatangirwa serivise z'ubucurizi cyangwa izindi zinyuranye usanga harashyizweho uburyo bwiza bwo kwishyura ibyo wahawe ukoresheje ikoranabuhanga, aho usanga abakiriya babo bose bishyura bakoresheje terefone zabo bereka ubutumbwa bugufi bahawe n'umuyoboro wa emutiyeni bwerekana yuko amafaranga yageze ku mucuruzi

Utuzu tw'amabara y'umuhondo dukunze kuba turi mu duce dutandukanye mu gihugu, aho usanga nk'umukozi w'umuyoboro wa emutiyeni ushobora kumuganaho igihe ukeneye yaba ari amayinite, kubitsa amafaranga cyangwa kohereza, cyangwa kuba wakira amafaranga byose babigufashamo mu buryo bworoshye.

Umuyoboro wa MTN washyizeho uburyo bwiza bwo guha serivise abakiriya babo nuburyo bwiza bwo kwagura umuyoboro aho usanga serivise z'umuyoboro wa MTN aho waba uri hose mugihugu yaba mumugi wa Kigali cyangwa muntara, icyo waba wifuza kumuyoboro aho waba uri hose hari umukozi wakigufasha.

Aba ni abagabo babiri umwe akaba afite agatabo mu ntoki, undi akaba afite telefoni ngendanwa mu ntoki.

Hari utwapa twagenewe abacuruzi cyangwa abatanga serivise zinyuranye, aho usanga tumanitse aho hatangirwa ibyo butandukanye, tuba turiho imibare ikunze kuba ari itandatu wishyuriraho umucuruzi cyangwa uwaguhaye serivise zitandukanye, ukaba wakwishyuriraho amafaranga yagennye ugomba kumwishyura.

Hari uburyo bwashyizweho bworoshye aho ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho wakiye serivise zitandukanye cyangwa waguriye ibintu bitandukanye, aho umuyoboro wa MTN wabageneye imibare y'umucuruzi ushobora kwishyuriraho amafaranga wagenewe yo kwishyura ukaba wayishyura nta kibazo.

Aba ni abagabo babiri. Umwe ni umuzungu, undi ni umunyafurika cyangwa se afite uruhu umwirabura undi afite uruhu rwera. Bigaragara ko uw'umuzungu afite icyo ari gusobanuza umunyafurika.

Ahazwi nko mu byicaro by'umuyoboro wa emutiyeni, ahatangirwa serivise zitandukanye ku muyoboro, usanga hari abakozi benshi, yaba ababarura abakiriya babo kuri simu kadi nshya, ababakemurira ibibazo byo kuyobya amafaranga, n'ibindi byose bitandukanye.

Ubu byaroroshye aho wahabwa serivise zitandukanye. Ushobora gusanga hari uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho umuyoboro wa emutiyeni, ugenera umucuruzi imibare yo kumwishyuriraho amafaranga wakoresheje, ugasanga ushobora kwishyura ntamafaranga na make ukaswe kuyagenwe yo kwishyurwa.

Umuyoboro wa emutiyeni washyize ibyiciro byayo ahantu henshi mu gihugu bino bikaba bifasha abakiriya babo kuba ntakibazo bagira aho baba bari hose hashobora kubona umukozi w'umuyoboro wa emutiyeni ushobora kubafasha mu kibazo icyo aricyo cyose baba bagize.

Abantu benshi bo mu ngeri zinyuranye bakunze kugana abakozi b'umuyoboro wa MTN, bakunze gukorera mutuzu tuba turi ku mihanda bakeneye ko babakemurira ibibazo byaba bitandukanye baba bafite ku muyoboro yaba kugura amayinite n'ibindi byinsh binyuranye.

Ushobora kugana utuzu twagenewe gutangirwa mo serivise z'umuyoboro wa Emutiyeni, ukeneye gukemurirwa ikibazo cyose waba ufite, yaba kwiyandikisha ho umuyoboro wawe wa simukadi watakaye, kugura amainite, n'ibindi byinshi bitandukanye waba wifuza.

Mu masoko menshi atandukanya aho usanga harimo abacuruzi benshi, bacuruza iibintu bitandukanye yaba ucuruza imboga, n'ibindi biribwa bitandukanye cyangwa ibindi byose wakwifashisha mu gihe uri gutegura amafunguro yo mu rugo usanga bafite uburyo bwiza bwo kubishyuriraho ukoresheje umuyoboro wa MTN.

Umuyoboro wa MTN washyize ibyicaro byinshi mu gihugu bino bifasha abakiriya babo kuba babona serivisi bifuza, bitagusabye kujya kure kuko uhasanga abakozi binzobere bagufasha mu kibazo cyose waba wagize cyane cyane abahagana baba bafite ikibazo cy' uko bayobeje amafaranga bitewe n' ikibazo runaka.

Hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kwishyuramo ukoresheje telefoni yawe ngendanwa, ukaba wakwishyura umucuruzi waguhaye serivisi zitandukanye. Icyo ukora ni ugushyiramo imibare ye ya telefoni, cyangwa imibare yagenwe n'umuyoboro wa emutiyeni, n'amafaranga, ukaba wamwishyura akamugeraho mu gihe gitoya, bitakugoye.

Umuyoboro wa Eyateri kandi na wo ufite utuzu dutandukanye mu gihugu, dukoze neza, aho usangamo abakozi babo batanga serivisi zitandukanye, yaba nko kugurisha amasimukadi no kugurisha telefoni zikunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda, abakiriya benshi babagana bakeneye kugura izo foni, zimaze kumenyekana ko zituruka ku muyoboro wa Eyateri kandi zikora neza.

Umuyoboro wa Emutiyeni washyize ho ibyicaro byinshi mu gihugu, aho usanga hakoramo abanyamahanga n'abanyarwanda, nk'uburyo bwiza bwo gufasha umukiriya bitewe n'ukugannye, kandi bagenera ibihembo abakiriya babo, bitewe n'uko bakoresha uwo muyoboro.

Hari uburyo umuyoboro wa Emutiyeni, washyizeho bwo kwamamaza no gutanga serivise z'umuyoboro, aho usanga hari tombora zashyizweho, ushobora gukoresha ugatombora ibintu bitandukanye nk'ibihembo bakaba babiguha.

Abantu benshi bagana k'umuyoboro cyangwa umukozi w'umuyoboro wa Mtn ukorera mu kazu cyangwa mu mutaka bakeneye kuba bakwibaruzaho simukadi nshya, kubitsa mafaranga, kubikura cyangwa kugura amayinite.

Ahantu henshi uzasanga akazu k'umuyoboro wa MTN uzahasanga nakuwa eyateri, ahazwi nkahatangirwa serivisi zinyuranye waba wivuza kugura ama inite urabihasanga kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga.

Hari utuzu turi mu gihugu mu duce twose aho waba uri hose ushobora kudusanga turi mu mabara y'umuhondo dukoreramo abakozi b'umuyoboro wa Mtn, aho ushobora kubagana kuri serivise yose waba ukeneye yaba kugura amayinite, kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza.

Umubyoboro wa emutiyeni washyizeho ubukangurambaga mu bice bitandukanye by'igihugu, aho baba bamamaza umuyoboro wa bo na serivise nziza igenera abaturage, yaba kubitsa, kubikura amafaranga cyangwa kuyohereza, n'ibindi byinshi bitandukanye kandi umuyoboro wa emutiyeni washyizeho ibihembo kubakoresha uwo muyoboro cyane, aho abakiliya babo bahoraho.

Abakorera mu tuzu tw'umuyoboro wa emutiyeni turi ahantu hatandukanye mu gihugu, bakora amasaha bifuza kuko nta masaha aba yaragenwe yabo yo gukora, n'ahantu hose bashaka, kuko aho waba uri hose ushobora gukenera serivisi ku muyoboro wa emutiyeni, kandi abo bakozi barazigufasha.

Umuyoboro wa emutiyeni washyizeho uburyo bworoshyeba aho waba uri hose mu gihugu ushobora kuhasanga umukozi wabo wagufasha muri serivisi zose waba wifuza yaba kubitsa amafaranga, kubikuza, kwibaruzaho simu kadi nshya cyangwa kuba wakibaruzaho iyo waba wabuze bitewe n'ikibazo runaka.

Hari ahantu henshi hatangirwa serivise, yaba iz'amabanki, iz'irembo, n'ibindi bitandukanye, aho ushobora kubagana ukeneye kufunguza konte muri banki, yaba beka, ekwiti, n'izindi nyinshi, n'izindi serivise waba wifuza zijyanye n'irembo, n'ibindi byose barabigufasha.

Ku mihanda myinshi itandukanye mu gihugu usanga hari abashinzwe kwamamaza umuyoboro wa mtn, baba basusurutsa abahisi n'abagenzi bababwira serivise nziza z'umuyoboro wa mtn, batanga serivise zitandukanye, nko gucuruza amaterefoni n'ibihembo ku bakoresha serivise zabo nko kubaha imipira n'ibindi byinshi bitandukanye.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga aho ushobora kugurira ibicuruzwa cyangwa ibindi bitandukanye ku mbugankoranyambaga icyo ukora ureba ko bafite ibyo wifuza ukaba wabigura ukoresheje ikoranabuhanga akaba wakwishyura bakabikugezaho mu rugo.

Ukeneye serivise zinyuranye ku murongo wa emutiyeni yaba kugura ikarita y'amayinite, kubitsa cyangwa kubikura amafaranga, ushobora kugana umuntu ukorera muri ako kazu akaba yabigufashamo, yaba no kubikura amafaranga byose yabigufasha.

Umuyoboro wa eyateri wazanye serivise nziza ku abakiriya babo aho ushobora gusanga uduce twose mugihugu bafiteyo utuzu twumutuku ushobora guhererwamo serivise waba wifuza zose, yaba kubitsa amafaranga kubikuza kohereza umuntu amafaranga cyangwa kugura ama inite.

Umuyoboro wa eyateri kandi nawo wafunguye ibyicaro byinshi, aho ushobora kubagana ukeneye serivise zitandukanye; yaba kwiyandikishaho simukadi nshya, kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, kohereza amafaranga cyangwa kugura ama inite n'ibindi byinshi.

Utu twapa nityo yuba turiho imibare wishuriraho serivise wahawe cyangwa ibicuruzwa waguze, mu maduka mu masoko cyangwa ahandi hose hatandukanye aho uba wakiye serivise, ushobora kwishyura kwiyo mibare. Uyemeza muri telephone yawe n'umubare w'amafaranga ukaba wakishyura

Ubu ntibikiri ngombwa kujya ku cyicaro cyangwa ahandi hose hazwi nka hatangirwa serivisi z'imiyoboro ya MTN, kuko aho waba uri hose mu gihugu wahasanga umukozi w'umuyoboro wa MTN ushobora kugufasha mu kibazo runaka waba wagize ku muyoboro akagigukemurira kandi vuba.

Ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ahariho hose wasanga ako kapa kuko iyo mibare iriho iba ari iy'uwo mucuruzi cyangwa iryo duka, aho hakaba hariho serivise zitandukanye ushobora kwishyura ayo mafaranga yagenwe yo kwishyura kuri iyo mibare bitagusabye kwishyura amafaranga mu ntoki.

Aho uzasanga ako kapa kose hatangirwa serivise zinyuranye yaba iz'ubucuruzi n'ibindi byinshi bitandukanye, ni ikigaragaza y'uko ushobora kwishyura ukoresheje terefone yawe ngendanwa k'umuyoboro wa emutiyene, icyo ukora ni ugushyiramo iyo mibare yagenwe y'umucuruzi ukaba washyiramo amafaranga ukishyura.

Abakozi b'umuyoboro wa emutiyene bakorera mu tuzu dutandukanye, turi mu mugi, no mu ntara ahantu hatandukanye, ntibakunze, kugira abakiliya, ariko ntiwamenya bitewe n'igihe, usanga hari abantu benshi cyangwa ntabahari, bakeneye serivise ku muyoboro zitandukanye wa emutiyene.

Ubu ntibikiri ngombwa kujya ku cyicaro kuko hegerejwe abakozi b'umuyoboro wa emutiyene, aho waba uri hose wabagana bakagukemurira ikibazo cyose waba ufite k'umuyoboro, waba ukeneye amayinite, kohereza amafaranga, kibitsa cyangwa kubikuza.

Mu tuzu tw'abakozi b'umuyoboro wa emutiyene usanga hari abakiriya akenshi bakeneye serivise k'umuyobora, yaba kwibaruzaho simukadi nshya, kubitsa cyangwa kubikura amafaranga.

Abatanga serivisi ku muyobora wa MTN batanga serivisi zinyuranye yaba ukeneye kugura amayinite barayamuha, kohereza amafaranga, kuyakira, kubikuza n' ibindi byose bitandukanye nka serivisi z' umuyoboro barabigukemurira.

Iyo umaze gushyira imibare y'umucuruzi muri telefone yawe ngendanwa ushobora gushyiramo n'umubare w'amafaranga ugomba kwishyura, ugashyiramo umubare wawe w'ibanga ukemeza ugategereza ko umuyoboro wa MTN uguha ubutumwa ukaba wabwereka umukiriya ko wamwishyuye.

Umuyoboro wa emutiyeni washyize utwapa mu maduka atandukanye cyangwa ahatangirwa serivisi zinyuranye, dushobora gufasha abakiriya babagana kuba bakwishyura bakoresheje ikoranabuhanga. Aha bashyiraho imibare y'umucurizi, ukaba wayishyiriraho amafaranga yagenwe ugomba kwishyura.

Mu gihe ukeneye kubikura, kubitsa amafaranga cyangwa kuba wakohereza umuntu amafaranga ,uri kure yawe ukoresheje ikoranabuhanga, ushobora kugana abakozi b'umuyoboro wa emutiyene bakorera mu tuzu tw'amabara y'umuhondo, ukaba wababaza uburyo wakoresha cyangwa bakaba bagufasha kohereza uwo muntu amafaranga.

Yaba mu maduka, mu bubari n'ahandi hatandukanye bacuruza ibintu bunyuranye, ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga waba ukoresha agatelefone gato cyangwa telefone nini, icyo ukora ni ugushyiramo imibare y'umucuruzi n'umubare w'amafaranga ukaba wakwishyura ibyo wahawe.

Ku byicaro by'umuyoboro wa emutiyeni, uhasanga serivise zitandukanye ku muyoboro, aho ushobora kuhagana ukeneye kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza, kuherereza umuntu amafaranga, cyangwa kwibaruraho simu kadi nshya, cyangwa kwibaruraho iyo wari ufite mu gihe yatakaye cyangwa yibwe,

Abakozi b'umuyoboro wa MTN bari henshi mu gihugu n'ibyapa bishinzwe kwamamaza uwo muyoboro, aho waba uri hose ushobora guhabwa serivisi wifuza k'umuyoboro, bitagusabye kujya gushakashaka aho wabona umukozi wa MTN, ahantu hose waba uri ushobora kumubona mu ntera zitari ntoya akwegereye.

Hari uburyo bwiza bwashyizweho, bw'ikoranabuhanga, bukorana n'umuyoboro wa MTN cyangwa uwa Airtel, aho ushobora kwishyura ukoresheje telephone yawe ngendanwa, aho ushyira imibare yagenwe y'umucuruzi muri telefone yawe n'umubare w'ibanga, ukaba wakwishyura ibyo wahawe.

Ubu hashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ushyira apurikasiyo muri terefoni yawe, ukaba wakwishyura ukoresheje umuyoboro wa MTN bitagusabye gukora za nzira ndende z'akanyeri, icyo ukora ni ugushyira umubare w'ibanga muri iyo apurikasiyo, ukaba washyiramo imibare yo kwishyura yaba iya terefone cyangwa kode yagenwe n'umuyoboro, ukaba wakwishyura nta kibazo.

Umuyoboro wa emutiyene ukomeje kugeza serivise nziza ku bakiriya babo, yaba abafite ibibazo k'umuyoboro cyangwa abakeneye gutangira gukoresha uwo muyoboro bibaruzaho simukadi nshya bose barafahwa.

Utu twapa aho uzadusanga hose bizaba bivuga yuko ushobora kwishyura serivise wahawe cyangwa ibicuruzwa waguze ukoresheje ikoranabuhanga ku muyoboro wa MTN, kuko haba hariho imibare yagenwe y'umucuruzi wishyuriraho amafaranga.

Ahantu henshi ku mihanda uhasanga abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni, baba bari kugeza serivise ku bakiriya babo, aho usanga bari gucuruza amasimukadi, telefone z'uwo muyoboro, n'inindi byinshi bitandukanye, byafasha abakiriya babo bitewe na serivise bifuza.

Ahi ni ahantu hatangirwa ubufasha bw'ikigo k'ikoranabuhanga gikorera mu rwanda kitea eyateri, tukaba turi kuhabona akabati k'umutuku karimo amaterefone bacuruza ku giciro gito cyane, ibi bikaba ari ibintu byorohereza abantu kugura telefone ku giciro gito bityo nabo bakagendana n'ierembere.

Hari ibyapa byamamaza serivise z'imiyoboro MTN biba biri mu bice bitandukanye by gihugu byamamaza serivisi zitangwa n'umuyoboro wa MTN n'ibindi byinshi bitandukanye, yaba kugura amayinite n'ibindi byinshi, ushobora kubihasanga kandi bagenera ibihembo byabo ku bakiriya bakoresha uwo muyoboro akenshi.

Aho uzasanga utuzu turi mu mabara y'umuhondo turiho ibyapa by'umuyoboro wa emutiyene ni byiza ko hatangirwa serivise zinyuranye waba ukeneye kugura terefone, kugura amayinite, kubitse cyangwa kubikura amafaranga no kuba wakohereza amafaranga byose babigufasha.

Aho waba uri hose mu gihugu yaba mu mugi cyanga mu ntara ntiwabura aho wahabwa serivise z'umuyoboro wa MTN kuko hari ibyicaro bitandukanye na abakozi babo kumihanda ahariho bashobora ku gukemurira ikibazo waba ufite ku muyoboro icyaricyo cyose.

Aho wagurira ibicuruzwa bitandukanye cyangwa ukaba wahabwa serivise, ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho ushyiramo nimero yizi duka cyangwa nimero z'umucuruzi ukaba washyiramo umubare w'amafaranga ukaba wakwishyura, ugahabwa ubutumwa bugufi buturutse ku muyoboro wa emutiyeni bwemeza yuko wishyuye.

Umuyoboro wa emutiyene mu myaka ishize wacuruzaga terefone ku mafaranga make bityo abakiriya babo bahagannye benshi bakeneye izo terefone, zikaba zaraguzwe ku mubare munini ku byicaro bitandukanye byabo, kandi bakaba banafasha abantu mu kuba bahabwa inguzanyo bakoresheje ikizwi nka mokashi.

Umuyoboro wa emutiyene washyizeho uburyo bewinshi kandi bworoshye, ushobora kwishyuraho ukoresheje ikoranabuhanga , wishyura amafaranga ari kuri fone yawe cyangwa ukaba wakura amafaranga aari kuri konte yawe ya banki, ukaba wayishyura ukoresheje terefone yawe ngendanwa.

Mu gihe ukeneye kubitsa amafaranga, kubikura cyangwa kuba wakwakira amafaranga, ushobora kugana abakorera muri utu tuzu bakabigufashamo, cyangwa mugihe ukeneye amayinite nta mafaranga ufite kuri telefone yawe ukaba wamwegera akaba yaguha amayinite ukamwishyura.

Umuyoboro wa emutiyeni, washyizeho uburyo ahantu hose ushobora kwishyira ukoresheje ikoranabuhanga, aho wagurira ibicuruzwa bitandukanye, cyangwa ukaba wahabwa serivise zinyuranye, ushobra kwishyura ukoresheje telefone yawe ngendanwa, umucuruzi cyangwa uwaguhaye serivise zitandukanye.

Hari uburyo umuyoboro wa MTN ufatanyije na banki zitandukanye bashyizeho uburyo bwo kuba wakura amafaranga kwikarita yawe ya banki ukayashyira kuri simukadi yawe ntakiguzi nakimwe usabwe cyangwa wishyuye.

Ushobora gusanga serivise zose waba wifuza ku muyoboro wa MTN, ahazwi nko ku dukiyosike, haba hakorera abakozi bo ku miyoboro ya MTN, aba batanga serivise zose ku miyoboro, waba wifuza kumenya uburyo bwo gukura amafaranga kuri banki uyashyira kuri simukadi yawe, n'ibindi byose bitandukanye babigufashamo.

Ubu byaroroshye kuko umukozi w'umuyoboro wa MTN waganaho wese, aho yaba ari hose mu gihugu, ashobora kugukemurira ikibazo wari ufite ku muyoboro: nko kubitsa amafaranga, kubikuza cyangwa kohereza umuntu amafaranga umuntu mutegeranye, ushobora kandi no kuhagurira amayinite n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umuyobora wa MTN, ufite ibyicaro byinshi mu gihugu, aho ushobora kugana aho ariho hose bakaguha serivisi, waba ukeneye kuwo muuoboro, yaba kwibaruzaho simikadi nshyashya, kwiyandikishaho imibare y'umucuruzi yo kwishyurirwa ho, n'ibindi byinshi waba wifuza.

Ushobora kwishyura serivisi wahawe cyangwa ibicuruzwa waguze ukoresheje telefoni yawe ngendanwa, aho ushobora gukoresha apurikasiyo y'umuyoboro wa emutiyeni, izwi nka MoMo, ukaba wakwemezamo imibare ugomba kwishyuraho ndetse n'amafaranga ugomba kwishyura, ukaba wakwishyura ibyo wahawe. Ikibazo ni uko iyi apurikasiyo ikunze kwanga mu gihe kimwe na kimwe, bikaba byatuma utabasha kwishyura neza.

Umuyobora wa emutiyeni wegereje abakozi mu bice bitandukanye, aho buri muturage ukeneye serivise ku muyoboro wa emutiyeni, bashobora kuzibona mu buryo bworoshye, kuko abakozi babo bari mu bice bitandukanye mu gihugu, aho waba uri hose wababona bakaba bagufasha kuri serivise izo ari zo zose wifuza.

Ku byicaro by'umuyoboro wa MTN uhasanga abakozi benshi haba hatanga serivise zinyuranye yaba kwiyandikishaho simukadi, kukugarurira amafaranga wayobeje bitewe n'ikibazo cyo kwibeshya n'ibindi byinshi.

Ushobora guhabwa serivise zitandukanye ku muyoboro wa emutiyeni aho usanga abakozi bakorera mu tuzu tw'umuhondo mu duce dutandukanye mu gihugu bashobora kugufasha mu byo waba ukeneye byose waba ugura amayinite, ubitsa amafaranga cyangwa ubikuza, kwiyandikishaho umushyashya uzi nka simukadi nshyashya n'ibindi bitandukanye, byose babigukemurira.

Serivise zose waba wifuza ku muyoboro wa mtn, ushobora kuzisanga mu tuzi tw'umuhondo cyangwa imitaka, iba iri ku mihanda. Aho usangamo umukozi w'umuyoboro wa mtn, udupapuro turiho, bitewe na serivise wifuza amafaranga ushobora gukatwa kw'iyo serivise.

N'abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku mapikipiki, usanga bafite uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, bitewe n'aho agukuye ushobora kumwishyura ukoresheje telefoni yawe ngendanwa, aho akubwira nimero ye, ukaba washyiramo umubare w'amafaranga, ukaba wamwishyura.

Wifuza serivise zitamdukanye ku miyoboro ya emutiyene, ushobora kugana ku bakozi babo bakorera ku muhanda, cyane cyane mu tuzu dutoya tuba turi mu mabara y'umuhondo, bakaba baguha serivise zose waba wifuza ku muringo.

Utuzu tw'umuhondo dutangirwamo serivise ku muyoboro wa emutiyeni, dukunze kuba ducururizwamo terefone dutangirwamo serivise zitandukanye yaba kugura amayinite, kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza.

Abantu benshi mu duce dutandukanye, bakunze kugana abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni bakorera mu mitaka, bakeneye uwabafasha mu gikorwa cyo kubikura amafaranga bitewe n'aho bagiye kuyishyura, habayeho ikibazo cy'uko badashobora kwishyura bakoresheje telefoni.

Ahatangirwa serivise z'imiyoboro ya emutiyene haba hari abakozi benshi n'abakiliya bagagannye bakeneye serivise ku miyoboro, yaba kwibaruzaho amasimukadi mashya cyangwa gukemurirwa ibibazo baba bagize bitandukanye ku muyoboro.

Abari ku mihanda itandukanye bakorera mu mitaka bazwi nk'abakozi b'umuyoboro wa MTN bakunze kuba bambaye n'amajire y'umuhondo, ushobora kubagana mugihe ukeneye serivise zitandukanye ubasanga ku mihanda, mu masoko n'ahandi henshi hatandukanye aho bagufasha mu kubitsa cyangwa kubikura amafaranga.

Abantu benshi bagana umuyoboro wa emutiyene ku byicaro cyangwa utuzu tw'abakozi babo, bakeneye kugura amayinite no gusubizwa ibibazo by'ibibazo baba bafite yaba nko kuyobya amafaranga cyangwa gutakaza simukadi zabo mu gihe bakeneye kuba baswapa.

Umuyoboro wa eyatera washyize imitaka yayo muduce dutandukanye, cyangwa ahatangirwa serivise hagiye hanyuranye mugihugu, aho uhasanga serivise zose waba wifuza kumuyoboro wa eyateri, ukahasanga na terefone zicuruzwa, n'uwo muyoboro wa eyateri zicuruzwa kugiciro gito abantu benshi babaganaho bakeneye.

Amasoko menshi cyangwa ahacururizwa imboga, imbuto, n'ibindi byose bitandukanye bikenerwa mu rugo; usanga hari uburyo bwiza bwashyizweho ushobora kwishyura ukoresheje telefoni yawe cyangwa ikarita yawe ya banki, ukaba wakwishyura ibyo wahawe nta nkomyi.

Abakozi b'umuyoboro wa MTN bakorera mu mitaka igiye iri mu duce dutandukanye mu gihugu, batanga serivisi ku miyoboro wa MTN zitandukanye yaba kubikuza amafaranga, kubitsa cyangwa kugura amayinite n'ibindi byose waba wifuza nka serivise ku muyoboro wa MTN.

Umuyoboro wa emutiyeni washyizeho ibicuruzwa bitandukanye yaba ibifashwa muri interineti, amatelefoni n'ibindi byinshi, ushobora kugura ku byicaro byabo kandi nk'umukiliya ushobora kugenerwa ibihembo bitewe n'ibyo waguze waba ukeneye serivise n'ibindi byinshi byose urabisanga kuko abo bakozi baba bari mu duce dutandukanye.

Ushobora kwishyura kandi aho wanywesheje ikinyabizika cyawe ikizwi nka esase ukoresheje terefoni yawe ngendanwa , aho wishyura kuri konte ya banki yiyo sitasiyo cyangwa kuri nimero yagenwe n'umuyoboro wa mtn, aho ushyiramo imibare yabo n'umubare w'amafaranga ukaba wabishyura.

Abatanga serivisi yaba mu gucuruza ibiribwa imyambaro n'ibindi byinshi' umuyoboro wa emutiyeni wabashyiriyeho serivisi' yo kuba babishyura bakoresheje ikoranabuhanga aho waba uri hose ugahabwa serivisi, ntiwagira ikobazo cyo kwishyura ukoresheje telefone, kuko umuyoboro wa emutiyeni wabibagejejeho byose ushobora kwishyura ukoresheje telepfone yawe ngendanwa.

Waba uri mu ntara cyangwa mu mugi wa Kigali, uhasanga abakozi bakorera mu tuzu tw'umuhondo, b'umuyoboro wa emutiyeni, bano bashobora kugufasha mu kubitsa cya kubikura amafaranga, koherereza umuntu amafaranga, kugura amayinite, n'ibindi bitandukanye.

Umuyoboro wa aitel ufite ibyicaro bitandukanye mu gihugu aho usanga abakozi benshi n'abakiriya benshi babakeneye kuba babafasha ku bibazo bafite yaba mu kwiyandikishaho simukadi nshya n'ibindi byose bijyanye no kubitsa no kubikura amafaranga.

Umuyoboro wa MTN washyizeho uburyo bwiza bwo gufasha abacuruzi cyangwa abatanga serivise zinyuranye aho bashobora kuba babishyura(abakiliya babo) bakoresheje ikoranabuhanga aho babaha imibare y'umucuruzi umukiliya ashobora kwishyuraho amafaranga yabwiwe agomba kwishyura.

Ubu byaroroshye aho wagurira ibintu aho ariho hose ushobora kwishyura ukoresheje telefone yawe icyo ukora w'ishyura kuri nimero yagenwe y'umucuruzi cyangwa yaho waherewe serivisi iyo umaze kwishyura werekana ubutumwa bugufi umuyoboro wa emutiyeni uba uguhaye muri telefone yawe wemeza ko amafaranga yageze k'umucuruzi.

Ubu byarooroshye aho ushobora kugura ibicuruzwa byawe wifuza cyangwa ukaba wabituma mu mahanga, icyo ukora ujya ku mbuga zicuruzwa ibyo bicuruzwa ugashyiramo aho utuye, bakaba babikugemurura aho utuye, icyo ukora uhitamo ibyo ukeneye bakabikugezaho ku gihugu cyawe cyangwa aho utuye.

Hari abatwara amapikipiki, bashinzwe gutwara abantu cyangwa kubagemurira ibicuruzwa baba baguze ku ikoranabuhanga. Ikizabakubwira, baba bafite ibikesi cyangwa ibikapu biba biri inyuma mu mugongo ku mapikipiki yabo.

Hari abakozi bashinzwe kugemurira abantu ibiribwa cyangwa ibindi bikoresho baba baguriye ku ikoranabuhanga, yaba ibicuruzwa, imyambaro n'ibindi byinshi. Bitewe naho wabiguriye, urishyura ibicuruzwa waguze, ugatanga imyirondoro yawe bakaba babigusangisha mu rugo aho utuye.

Ubu hashyizweho uburyo bworoshye, aho ushobora kugura ibicuruzwa cyangwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, ukoresheje telefone yawe ngendanwa, aho ureba ku mbuga zibicuruza n'ibiciro byabyo, ukaba wagura ibikoresho wifuza.

...shobora gutoza ibiribwa cyangwa ibindi bintu bitandukanye, aho bashobora kubikugemurira mu rugo bitagusenye kungeraho ibicuruzwa. Byaba ibibwa icyo ukora uhitamo ubwoko bw'imibiribwa ukeneye, ubashyiramo aho utuye, bakaba babikugemurira mu rugo aho utuye.

Hari uburyo bwiza kandi bworoshye, ushobora gucururizaho ibicuruzwa byawe, cyangwa ukaba waguriraho ibyo ukeneye. Icyo ukora, ushyiraho amafoto y'ibicuruzwa byawe, n'ibiciro byabo, ubwishyimiye mukaba mwavugana, akaba yabigura.

Mi gihe cy'iminsi mikuru, usanga ibicuruzwa ku imbuga nkoranyambaga bicuruzwa amafaranga make, kandi babashyiriraho umufuragiro ku bakiriya babo, wo kuba babagemurira ibicuruzwa baguze, mu ngo aho batuye.

Ushobora kugurira imboga, imbuto n'ibindi byose byagufasha mu gutegura ibiryo mu rugo ku ikoranabuhanga aho amasoko menshi asigaye akorera ku ikoranabuhanga aho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye ukaba wabigurira ku giciro kiza kandi bakabigusangisha mu mago aho utuye.

Ushobora gutumiza ibiribwa cyangwa ibicuruzwa ku maresitora atandukanye, bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye, icyo ukora ni uguhitamo ubwoko bw'ibiribwa ukeneye cyangwa ibindi bicuruzwa byose waba ukeneye kugura ukaba wakwishyura ukohereza aderese zawe n'aho utuye bakabikugezaho mu rugo.

Ushobora kugura ibicuruzwa bitandukanye ukoresheje ikoranabuhaanga yaba ibikoresho y'ikoranabuhanga, ibiribwa, imyambaro n'ibindi bitandukanye wowe icyo ukora usura imbuga bicururizwaho ukaba wahitamo ibyo ukeneye ku giciro kikunogeye ukaba wabigura.

Abashinzwe kugemurira abantu ibicuruzwa cyangwa ibindi baguze ku ikoranabuhanga iyo bakugezeho baguha ibyo watumye ukaba wasinya ko bikugezeho, kandi babikugezaho ntakibazo na kimwe cyabayeho.

Ushobora kugurira imyambaro ku mbuga nkoranyambaga yaba iyo gusohokana, iyo kujyana muri siporo n'imyenda itandukanye, kandi ushobora kuhasanga n'ibindi bitandukanye yaba ibikapu, wenda ibyishimo waba wifuza byose wabihasanga.

Ushobora kugura ibiribwa bitandukanye bikorwa mu mafarini ku mbuga nkoranya mbaga zitandukanye aho usura imbuga zicuruzwaho ukaba wahitamo umubare w'ibyo ukeneye cyangwa amapaki wifuza ukaba wakishyura bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye ukoresheje ikoranabuhanga.

Iposita ikigo gishinzwe kohereza ibintu bivuye mu Rwanda bijya mu mahanga, cyangwa ukaba wakakira ibyo watumye mu mahanga kw'iposita ahazwi nk'aho byinjirizwa iyo bikigera mu gihugu. Iki kigo gishinzwe kugeza abaturage ku byo batumije mu mahanga bakabibasangisha mu gihugu cyabo aho batuye.

Ushobora kugurira yaba ibikapu, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi byose bituruka mu bihugu byo hanze, uri mu Rwanda ukaba wahitamo ibyo ukeneye, ukabyishyura ku giciro cyagenwe, ukaba wakuzuza aderese zawe n'aho utuye, bakabikohereza mu gihugu cyawe utuyemo.

Hari uburyo bwinshi bwo kwamamarizaho ubucuruzi bwawe yaba bw'ibiribwa cyangwa ibinyobwa, icyo ukora ushyira ibicuruzwa byawe cyangwa aho ukorera ku mbuga zitandukanye bityo abakiriya bakaba bahabona, bakaba baza kuhasura bakahakira ibyo kurya kandi bakahava bishimye.

Hari amaduka akorera kumbuga nkoranyambaga, acuruza imyenda y'abagore itandukanye yaba ipira, amakanzu n'amajipo n'ibindi byinshi bitandukanye, aho ushobora kubigura kugiciro kiza bakaba babikuzanira no murugo.

Hari uburyo bwiza bukorana n'amaresitora atandukanye mugihugu, aho ushobora gutumiza ibiryo icyo ukora, ni ukuba wahitamo ubwoko bw'ibiribwa wifuza. Bakaba babigutunganyiriza bagaha ipikipiki yabigenewe, ikaba yabikugezaho murugo.

Abakora umwuga uzwi nko kugemurira abantu ibiribwa cyangwa ibindi bikoresho baba baguze ku ikoranabuhanga mu ngo aho batuye bashyiriweho uburyo bwiza bubafasha mu kuba bamenya aho bagemuye ibiryo bakoresheje terefone zabo ngendanwa bakagendera ku cyerekezo kibereka aho bagiye.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga, ushobora kuguriraho ibicuruzwa byose waba wifuza, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose waba wifuza, ubisanga biri ku mbuga zinyuranye, n'ibiciro byabyo, bityo bikaba byagufasha kuba wagura ikintu uzi n'igiciro cyacyo.

Hari uburyo bwiza Kandi bworoshye ushobora gucururiza kumbugankoranyambaga aho hari imbuga zabugenewe ushobora gushyiraho ibicuruzwa byawe cyangwa ibindi byose wifuza gushakira umukiriya ukaba wabishakira umukiriya kumbugankoranyambaga zitandukanye bakaba babikugurira.

Uyu ni umumotari, wambaye ishati isa ibara ry''icyatsi ry'ikigo cyitwa vubavuba gikora ibijyane o o kugemura ahantu hatandukanye mu gihugu ibicuruzwa.

Vubavuba izwiho mu kugemurira abantu ibiribwa batumije ku maresitora ikabibagezaho mu rugo aho batuye, cyakora uhitamo ubwo bw'ibiribwa ukeneye bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye nta kibazo na kimwe kibayeho.

Ukoresheje ikoranabuhanga ushobora kugura ibyo waba wifuza byose byo kugurira mu masoko yaba ibikoresho by'ubwiza ibyisuku nibindi byose bitandukanye urabihasanga yaba imyambaro, ibiribwa nibindi byinshi bitandukanye.

Ushobora kugurira ibintu bitandukanye ku imbuga nkoranyambaga, yaba imyambaro, amaterefone, n'ibikapu n'ibindi byinshi binyuranye, kubera ko biba byashyizweho n'igiciro cyabyoaho, ukaba wahitamo ibyo wifuza ku igiciro kikunogeye.

K'uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kugura ibicuruzwa n'ibindi byose waba ukeneye ukoresheje telefone yawe ngendanwa, ukaba wahitamo ibyo wifuza ku giciro kikunyuze ukaba wabigura bitagusabye kujya kubishaka ku masoko.

Ushobora kugurira ibicuruzwa byose waba ukeneye cyangwa ibindi bikoresho wakenera mu buzima busanzwe kw'ikoranabuhanga, ukaba wahitamo umubare w'ibyo ukeneye cyangwa ubwoko bw'ibyo wifuza ukaba wabyishyura bakaba babikugezaho murugo aho utuye kubuntu.

Abashinzwe kugemurira abantu ibiryo batuye, bakorana n'amaresitora atandukanye mu gihugu, aho bashobora kukugezaho ibintu waguze murugo aho utuye, wowe icyo ukora n'ukuzuza umwirondoro ukaba wabaragira bakabikugezaho aho utuye,

Ntibikiri ngombwa kujya ku maresitora mu gihe ukeneye ibiribwa cyangwa ibindi bitandukanye bicururizwa mu maduka menshi kuko yashyizweho uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora gutumiza ibyo ucyeneye ukuzuza imyirondoro yawe naho utuye bakabigusangisha mu rugo mu buryo bwiza kandi byoroshye kandi bwihuse.

ushobora kuba wahahira ibiribwa bitandukanye, yaba imboga zitandukanye, imbuto n'ibindi byinshi, ukoresheje ikoranabuhanga, aho hashyizweho amaduka menshi akorera ku ikoranabuhanya, ushobora kuguriraho ibyo bicuruzwa, yaba ibyo guteka, cyangwa ibindi bitunganyije, bitewe n'uko ubyifuza.

Yubayi ni uburyo bukoreshwa batumiza ibikoresho bitandukanye, biza mugihugu bivuye mubihugu by' i Burayi ndetse no mu Budage, birihuta kandi birizewe.

Ni uburyo bw'ikoranabuhanga, aho hashyizweho imbuga nyinshi ushobora kuba waguriraho ibicuruzwa cyangwa ukabigurishirizaho, icyo ukora nukubishyira kuri izo mbuga; ubyifuza akaba yabibona akaba yakubera umukiriya ukaba wabimugurishaho.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bucururizwaho ibintu bitandukanye aho ushobora gusanga hariho n'ibikoresho by'ubwiza yaba amavuta yo kwisiga, amasabune n'ibindi aho usanga mu gihe cy'iminsi mikuru ibiciro byahananuwe byabyo kuko ku byifuza abibona ku giciro gito.

Ushobora kugura ibicuruzwa ku ikoranabuhanga, yaba ibiva muri Amerika, mu Bwongereza, mu Budage, mu Burusiya, mu Buhinde, Kanada, Ositarariya, mu Bufaransa n'Ubushinwa, n'ahandi hose hatandukanye. Icyo dukora, ugitamo igihugu waba wifuza kuba wahagurira ibicuruzwa ukuneye.

Hari uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga aho ushobora kugura ibicuruzwa bitandukanye imyambaro n'ibindi byose waba wifuza. Icyo ukora ni ugusura imbuga zitandukanye bicururizwaho ukaba wareba ibicuruzwa wifuza ukabigura ku biciro byagenwe.

Ushobora kugurira ibiribwa bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, yaba inyama, n'ibindi bitandukanye, aho ujya ku mbuga zibicuruza. Ukaba wahitamo ibyo ukeneye ku giciro kikunyuze, ukaba wabigura.

Ikoranabuhanga ryoroheje ibintu byinshi byaba mu Rwanda cyangwa mu mahanga, aho ushobora kugura ibyo waba wifuza byose ukoresheje ikoranabuhanga ku giciro kiza, kandi akarusho bakanabikugezaho mu rugo aho utuye.

Mu Rwanda hashyizweho imbuga zishinzwe gucururiza ibintu bitandukanye ku mbugankoranyambaga yaba imy, ambaro, imiti, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi bikoresho wakenera mu mirimo yo mu rugo byose ubusanga kuri izo mbuga n'ibiciro byabyo.

Hari amaduka menshi ari mu gihugu acuruza imyambaro n'ibindi byose bitandukanye, aho usanga afite amaduka mu gihugu kandi akorera no ku mbugankoranyambaga; aho ushobora kubasura ukareba ibicururuzwa byabo ukaba wahitamo ibyo ukeneye, ukaba wabibagurira.

Ushobora kugura imyambaro n'ibindi bitandukanye bitagusabye kujya aho bicururizwa mu masoko cyangwa ahandi henshi hatandukanye ukoresheje ikoranabuhanga ugasura mbuga zagenewe gucuruza iyo myambaro, ugahitamo ibyo waba ukeneye n'umubare w'ibyo ukeneye ukaba wabigura.

Hari uburyo bw'imbugankoranyambaga aho ushobora gutumiza ibiribwa ku ma resitora atandukanye mu gihugu ukaba wahitamo ubwoko bw'ibyo ukeneye bakabikugezaho mu rugo, aho utuye icyo ukorara wishyura ibiribwa waguze, ukaba watanza aderese z'aho utuye bakabikugezaho.

Ushobora kugura ibicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga bakabigusangisha mu rugo bitagusabye kujya aho bicururizwa, icyo ukora ni uguhitamo ibyo ukeneye umubare wabyo, ukaba wakishyura ugatanga umwirondoro n'aho utuye bakabikugezaho mu rugo.

Hari amasoko menshi atandukanye ari mu gihugu, aho usanga baba bacuruza imboga zitandukanye, cyangwa ibindi biribwa, nk'ibinyampeke, ibinyamisogwe, n'ibindi byinshi bitandukanye, aho usanga biri mu ngano zitandukanye, ukaba wabigura ku biro cyangwa ku mifungo bitewe n'uko umukiliya abicuruza

Ubu byaroroshye waba ukeneye kugura ibicuruzwa biri mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu ushobora kubyishyura ukoresheje ikoranabuhanga aho uhitamo ibya waba ukeneye ku giciro kikunyuze ukaba wabyishyura bakabigeza aho waba uri hose mu gihugu.

sibye kuba kuri vubavuba bakuzanira ibiribwa bitetse bashobora no kukuzanira imboga bitewe ibyo waba wifuza yaba ibiribwa bitetse cyangwa imboga zo guteka byose babikugezaho mu rugo aho utuye.

Ushobora kugurira imyambaro, ibiribwa mu maresitora cyangwa amaduka atandukanya. Aho ushobora kureba ku mbuga nkoranyambaga, ku rubuga rwaba rufite ibyo waba wifuza; yaba imyambaro cyangwa ibiribwa, ukaba wabigura bitagusabye kujya kubishaka ku masoko.

Ushobora kuba wagurira imyambaro cyangwa ibindi byose waba wifuza ku ikoranabuhanga ukoresheje murandasi, ugasura imbuga zagenewe gucururizwaho ibintu binyuranye, ukaba wahitamo imyambaro waba wifuza ku giciro kiza ukaba wayiguraho.

Ushobora kuba wagura ibicuruzwa, wifuza by'ubwoko butandukanye, ku maduka akorana n'ikoranabuhanga menshi, aho ushobora gutumiza ibyo waba wifuza ku giciro kikunyuze ukaba wabyishyura bakabigusangisha mu rugo.

Ubu byaroroshye aho ushobora kugurira ibintu ku ikoranabuhanga: yaba ibikoresho byo mu rugo, intebe n'ibindi byinshi bitandukanye; icyo ukora ni ukuba wahitamo ibyo wifuza, ukaba waciririkanya n'umucuruzi, ukaba wabigura.

Ukoresheje ikoranabuhanga ushobora kugura ibiribwa, ibinyobwa cyangwa ibindi byose bitandukanye cyangwa ukaba wabicuruza ku giciro kiza nk'uko waba ubyifuza cyangwa ukaba wabigura ku giciro kikunyuze nk'uko waba ubikeneye kandi mu masoko agiye atandukanye.

Ubu ushobora gukorana n'inganda zitandukanye aho ushobora kugurira ibicuruzwa bitandukanye bicururizwa mu maduka anyuranye mu gihugu, yaba ari mu Rwanda cyangwa mu mahanga ukaba watumiza ibyo ukeneye bikakugeraho aho hose mu gihugu waba urimo cyose.

Ushobora kugura ibikoresho: byaba ibyawe ukoresha mu rugo, iby'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'ibindi byinshi bitandukanye, yaba ibyagufasha mu mirimo rugo, ibyagufasha mu myidagaduro yo mu rugo n'ibindi byinshi byose, wabihabona kuri izo mbuga.

Hari uburyo bw'ikiranabuhanga ushobora kuguriraho cyangwa ugacururizaho ibicuruzwa byawe mu buryo bworoshye, icyo ukora ni ukuba wajya kuri izo mbuga, ugashyiraho ibicuruzwa byawe cyangwa ukaba wajyaho ukeneye kureba ibicuruzwa waba wifuza n'ibiciro byabyo, ukaba wabigura.

Ubungubu mu gihugu cy'u Rwanda ibijyanye n'igura n'igurisha byarorohejwe, kuko ukoresheje terefone yawe ngendanwa ushobora gusura imbuga zitandukanye ukaba waguriraho ibyo wifuza cyangwa ibicuruzwa byawe ukaba wabishakira abakiriya ukoresheje izo mbuga zitandukanye zashyizweho.

Ushobora kugurira ibicuruzwa ahantu hatandukanye mu bihugu binyuranye, yaba imyambaro n'ibindi byinshi waba wifuza, icyo ukora ni ukujya ku mbuga zagenewe gucuruzaho ibyo bicuruzwa, ukaba wahitamo ibyo ukeneye, ukuzuza imyirondoro yawe y'igihugu utuyemo bakaba babikohereza aho utuye, ukajya kubifata ku maposita n'ahandi hatandukanye waba wamenyeshejwe wabisanga.

Hari uburyo bwo gucururiza ibicuruzwa ku ikoranabuhanga aho usanga yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibiribwa n'imyambaro n'ibindi bitandukanye aho ushobora gusura izo mbuga ugahitamo ibicuruzwa wifuza yaba imyambara cyangwa ibindi, ukaba wabigura bakabikugezaho mu rugo aho utuye.

Ukoresheje ikoranabuhanga ushobora kugura ibyo waba wifuza byose: yaba ibiribwa, imyambaro n'ibindi bikoresho byose waba ukeneye. Icyo ukora, usura izo mbuga akaba wowe wahitamo ibyo ukeneye ukaba wabigura.

Ushobora gutumiza ibyo waba ushaka ku masoko yose atandukanye bakaba babikugezaho mu rugo ntakibazo wagize kuko urabigura ukuzuzaho imyirondoro yawe n'aho utuye bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye ntakibazo.

Ushobora gutumiza ibyo waba ukeneye byose ku ikoranabuhanga, uri murugo bitagusabye kujya ku masoko y'ibicuruzwa aho ureba imbuga zifite ibicuruzwa ukene bakaba babikujyezaho aho utuye.

Ubu amasoko yashyizwe ku ikoranabuhanga aho ushobora kugurira ibiribwa, imbuto, imboga, imyama n'ibindi byose waba wifuza bijyanye n'ibiribwa yaba amavuta, amafu n'ibindi byinshi byose urabihasanga ku giciro kiza.

Ubu ntakibazo waba uri mu rugo amazi ukagushirana cyangwa gaze yo guteka ushobora guhamagara cyangwa ugakoresha ikoranabuhanga, ukaba watumiza ibindi bikagusanga mu rugo aho utuye bitagusabye kujya kubigura aho usanzwe ubigurira urabituma bikagusanga mu rugo bitishe icyo wari urigukora cyangwa bitagutwariye umwanya.

Ushobora kugura cyangwa ukagurisha ibicuruzwa byawe ku mbuga z'abugenewe ziba ziri kuri murandasi, aho usangaho ibicuruzwa bitandukanye, yaba iby'ikoranabuhanga cyangwa ibikoresho byo mu rugo, ibiribwa n'ibindi byinshi.

Hari uburyo bwiza bwashyizweho bw'ikoranabuhanga aho ushobora gucururiza kuri murandasi ukoresheje imbuga zabugenewe zikoreraho ubwo bucuruzi butandukanye, ukaba wabona umukiliya bitakugoye.

Ushobora kugurira ibintu ku ikoranabuhanga, yaba ibiribwa nk'imbuto, imboga, inyama, imiceri, amavuta yifashishwa mu guteka n'ibindi byose byagufasha mu gutunganya amafunguro yawe yo mu rugo.

Uahobora gutumiza ibyo kurya bya mugitondo ku ikoranabuhanga, aho ujya ku mbuga zibishinzwe ukaba watumiza ibiribwa wivuza bya mugitondo, ubwoko wifuza ukaba wakwishyura bakabikugezaho mu rugo.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga, ushobora kuba wagura cyangwa ukagurishaho ibintu bitandukanye yaba ibisambu, amazu n'ibindi binyuranye nk'ibikoresho byo murugo imyambaro cyangwa ibiribwa n'ibindi byinshi.

Ubu mu mujyi wa Kigali hari amaduka menshi akorana n'ikoranabuhanga aho ushobora kugurira ibyo waba wifuza byose yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibiribwa n'ibindi byose bitandukanye ushobora kubigurira kuri izo mbuga zabugenewe.

Hari imishinga myinshi ishinzwe kugemurira abantu ibicuruzwa cyangwa ibindi byinshi baguze ku ikoranabuhanga, aho babigusangisha mu rugo aho utuye. Iyo umaze rero kubigura ubarangira aho utuye bakaba babikugezaho mu rugo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga aho ushobora guhahira ibiribwa, imyambaro n'ibindi byose waba wifuza bitagusabye kubishakashaka ku masoko, ujya kuri murandasi ugasura imbuga zerekeranye ibyo bicuruzwa, ukaba wahitamo ibyo wifuza, ukaba wabireba.

Hari amaduka akorera ku mbuga nkoranyambaga acuruza imyambaro, inkweto, ibikapu, ibikoresho by'ubwiza, yaba ibitunganya umusatsi, n'ibindi byinshi bitandukanye. Ushobora kuhasanga n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, n'ibindi byose waba wifuza.

Ubu hashyizweho uburyo bukoresheje Ikiranabuhanga aho ushobora kuba wagura ibicuruzwa bitandukanye, kandi nk'umukiriya wabo bakugera ibihembo bitandukanye bitewe n'ibyo waba waguze, bityo bikaba bikaba byashimisha abakiriya akaba yakongera kubagurira n'ikindi gihe.

Ubu ushobora gutumiza ibiryo kuma resitora cyangwa amaduka menshi ashinzwe gutunganyiriza ibiryo abakiriya babo bakaba banabibagemurira murugo aho uhitamo ubwoko bwibiribwa ukeneye ugashyiramo imyirondoro yawe naho utuye bakaba babikugezaho murugo ntakibazo.

Ushobora gutumiza kandi n'ibyagufasha: nk'imboga, amavuta n'ibindi bitandukanye mu gutegura ibiryo mu rugo kuri VUBA VUBA, bakaba babikugezaho murugo. Ntago bagemura ibiryo bitetse gusa, kuko ibyo waba wifuza byose babikugezaho mu rugo, byagufasha mu gutegura ibiribwa wifuza mu rugo.

Ikoranabuhanga ryashyizeho uburyo bwiza, aho ushobora kugura: imyambaro, ibikoresho by'ikoranabuhanga, yaba ibyagufasha mu koroshya imirimo yo mu rugo cyangwa mu gukemura ibintu bitandukanye, yaba guteka no gukora amasuku.

Ushobora kugurira ibicuruzwa ku mbuga nkoranyambaga, aho usanga hariho imboga, ibinyamisogwe, ibinyampeke, n'imbuto zitandukanye, ukaba wabigura ku giciro cyiza, akarusho kandi bakaba banabikugezaho mu rugo.

Ushobora gutumiza ibiryo ku maresitora atandukanye; aho uhitamo ubwoko bw'ibiryo wifuza yaba ibitetse cyangwa ibidatetse, ukaba wakwishyura ugatanga imyirondoro yawe n'aho utuye, bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye.

Hashyizweho uburyo bwinshi bwo kwamamaza, ubucuruzi bwo ku ikoranabuhanga, aho usanga ku binyabiziga ku byapa bitandukanye biba biri mu gihugu haba hariho ibyamamaza icyo gikorwa aho usangahariho nimero z'umucuruzi n'uburyo ushobora gukoresha igihe uri kugura ibintu ku ikoranabuhanga ibyo ari byo byose waba ukeneye.

Ubu ntibikuri ngombwa kujya kumasoko cyangwa kwitunganyiriza ibiribwa mugihe wumva unaniwe kuko ushobora kubitumiza kuma resitora atandukanye, bakabigusangisha murugo aho utuye bitagusabye kujya kubigurira aho bikorerwa cyangwa bicururizwa.

Ushobora kugurira ibicuruzwa byose waba wifuza ku ikoranabuhanga, yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibiribwa n'ibindi byinshi, kandi aya masoko akorera ku ikoranabuhanga akunze gushyiraho ibihembo ku bakiliya babo n'imifuragiro mugihe cy'iminsi mikuru, nko kubibafashamo kwizihiza iminsi mikuru neza.

Uyu ni umumotari, umumotari akaba afashe urupapuro rwabugene rwo gutwaramo ibicuruzwa, uru rupapuro rukaba ruteretse ku gasanduku gateretse ku ipikipiki y'uyu mumotari.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho, aho ushobora kugura ibintu mu buryo bworoshye kandi bwizewe, ukaba wagura cyangwa ukagurisha ibicuruzwa byawe, ku giciro kiza kikunogeye, bakaba banabigusangisha mu rugo, cyangwa ukabaza aho bakorera ukaba wajya kubifata, ariko wabanje kumenya neza ko bihari.

Iminsi mikuru amasoko akorera ku ikoranabuhanga akunze gushyiraho imifuragiro ku bakiriya babo aho usanga ibiciro byahananuwe yaba kubiribwa nibindi byose bitandukanye nkuburyo bwiza bwo kujya mu biruhuko neza no gutangira umwaka mushya muhire abantu bishimye kandi banezerewe.

Vuba vuba, imaze kuba isonga mu gukora serivisi yo kugemurira abantu ibyo baguze ku masoko atandukanye mu rugo aho batuye, aha usanga umubare w'amapikipiki menshi, akorera urwo rugaga ruzwi nka vuba vuba, ruzwi cyane mu kugemurira abantu ibiribwa cyangwa ibindi bitandukanye batumije, babibagezaho mu ngo aho batuye.

Jumiya iduka cyangwa umushinga ukora umwuga wo kuba wategurira abantu amafunguro nibindi byose baba bifuza bakabigusangisha murugo aho utuye bitwawe kuma pikipiki yabo yabigenewe.

Hari uburyo bwiza bwashyizweho, aho ushobora kugurira ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda nk'imyambaro nk'uburyo bwiza bwo guteza imbere ibikorerwa iwacu ku giciro cyiza, hano uhitamo ubwoko bw'umwambaro waba ukeneye bitewe n'umubare waba wambara, yaba ku nkweto cyangwa imyenda, kuba wabigura ku giciro cyiza.

Ubu byaroroshye si ngombwa kujya ku maduka acuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe ubukene ushobora kujya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye haba hari imbuga nyinshi zitandukanye zicuruza ibicuruzwa waba wifuza by'ikoranabuhanga byaba iby' imiziki iby' ukoresha mu myitozo ngororamubiri n'ibindi byose bitandukanye urabihasanga ku giciro cyiza

Mu gihugu uhasanga amasoko menshi mu duce dutandukanye, aho usanga bacuruza ibiribwa, yaba imboga n'ibindi byose bishobora gufasha mu gutegura ibiribwa, yaba imbuto, imboga n'ibindi byinshi. Ushobora kugura ibipimo wifuza, yaba ku biro n'ibindi ibyinshi nk'uko ubyifuza, bakaba babiguha nk'umukiriya wabagannye.

Hari uburyo bw'imbugankoranyambaga aho ushobora kugura no kugurisha ibicuruzwa bitandukanye waba ugura cyangwa ugurisha ushobora gushyiraho ibicuruzwa byawe ukaba wabishakira umukiriya icyo ukora ni ugushyiraho ibicuruzwa byawe n'ibiciro byabyo ukaba waciririkanwa n'abakiriya babikeneye bakaba babikuguraho.

Ushobora kuba watuma ibiryo kuri resitora zitandukanye bakaba babikugezaho mu rugo ntakibazo ufite cy'urugendo kuko icyo ukora uhitamo ibiribwa wifuza bakaba bakubaza aho utuye bakabikugezaho mu rugo.

Yego moto, ni abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki cyangwa ibintu. Aho batwara abagenzi, babavana mu duce tumwe, batujyana mu tundi, cyangwa bakaba bakugemurira ibintu aho waba utuye, aho ari ho hose.

Ikoranabuhanga ryoroheje ibintu byinshi, aho usanga hari imbuga nyinshi zitandukanye zicururizwaho ibintu byose waba wifuza yaba ibiribwa, imyambaro n'ibindi byose urabihasanga, ku giciro cyiza bikaba byagufasha kubigura bitagusabye kujya ku masoko abicururizwaho.

Ubucuruzi bwo kw'ikoranabuhanga ntago bwibagiwe abari n'abategarugori kuko usangaho ibikoresho by'ubwiza byabagenewe ku giciro cyiza ukaba wabitumiza bikaba byakugeraho mu rugo cyangwa ukaba wabigurira kw'ikoranabuhanga ku mbuga zagenewe kubicuruza.

Vuba vuba ikunze gukorerwa ku mapikipiki anyuranye yo mu gihugu, aho bakorana n'amaresitora n'andi masoko atandukanye mu kugemurira abakiriya babo ibicuruzwa baguze mu maduka yabo, bakaba babibashyikiriza mu rugo.

Ushobora gutumiza ibiribwa ku ma resitora atandukanye mu gihugu bakaba babigusangisha murugo aho utuye, icyo ukora n'uguhitamo ubwoko bw'ibiribwa ukeneye n'ingano y'ibyo ushaka ukaba wababwira aho utuye bakabikugezaho.

ushobora kugura imyambaro ihebuje yaba iyo wakwambara usohotse cyangwa ibindi byose waba wifuza yaba ibikapu inkweto nibindi byinshi ubiguriye kwikoranabuhanga kumbuga zabugenewe ziba ziriho ibyo bicuruzwa nibiciro byabyo.

Hari uburyo bwiza hashobora kuraho imbuto, ibikomoka ku mata n'ibindi byinshi byujuje ubuziranenge, ubiguriye ku ikoranabuhanga, aho usanga hari amaduka menshi akorera ku ikoranabuhanga, ushobora kuba wagurira ibyo wifuza muri ibyo.

Ushobora kuba wagurira inkweto ku mbuga nkoranyambaga, aho ushyiramo umubare w'inkweto waba wifuza, n'ibipimo by'urukweto waba wambara uko rungana, ukaba wakishyura bakazikugezaho mu rugo aho utuye, cyangwa ukaba wajya kuzireba aho zicururizwa.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kugura no kugurisha ibicuruzwa byawe; hano uhasanga: yaba imyambaro n'ibikoresho byo mu rugo, icyo ukeneye cyose ushobora kukihasanga, kandi biba byaragenwe n'ibiciro byabyo, aho ushobora guhitamo ibyo ushobora kugura.

Ushobora kugurira ibyo waba wifuza kw'ikoranabuhanga yaba imyambaro, ibiribwa n'ibindi bikoresho byose wakenera murugo cyangwa ahandi hose hatandukanye, ushobora no kurangura ibicuruzwa mugihe ushaka gutangira umwuga w'ubucuruzi w'ikoranabuhanga aho usanga hari ubwoko bw'ibicuruzwa byose bitandukanye, ukaba wahitamo ibyo ukeneye ukaba wabigura ku giciro gito.

ushobora gutumiza ibiribwa cyangwa ibindi byose waba wifuza bakabigusangisha murugo aho utuye icyo ukora nukugana amaduka akorera kumbuga acuruza ibyo wifuza ukaba wahitamo ibyo ukeneye ukabyishyura bakabikugezaho murugo aho utuye.

Hari uburyo bwinshi bwo kwamamaza ibicuruzwa byawe cyangwa ukaba wakwamamaza umwuga wose waba ukora; aho usanga utubari twinshi dukunze gutumira abahanzi cyangwa abandi batandukanye, baba bazanye uburyo bwiza bwo gususurutsa abakiriya babo.

Hari amaduka menshi akorana n'uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa kuba wagura ibicuruza kw'ikoranabuhanga, aho bishyirwa ku mbuga zitandukanye ukaba wareba ibicuruzwa bafite ukaba wahitamo ibyo ukeneye ukaba wabigura.

Ikoranabuhanga ryoroheje igura n'igurisha kuko ushobora kuhasanga ibyo ukeneye byose cyangwa ukaba wahacururiza ibyo waba ukeneye kugurisha byose kuko hari imbuga zagenewe gucururizwaho ibyo bintu, abakiriya bakenye bakeneye ibintu bitandukanye barazisura babonaho ibyo bifuza mukaba mwakumvukana akaba yabikugurira cyangwa ukabimugurira.

Vuba vuba umaze kuba isonga mukugemurira abantu ibicuruzwa aho batuye yaba ibiribwa cyangwa ibindi byose bitandukanye waguriye mumaduka ushobora kubihasanga kugiciro kiza ukaba wabigura ibyo wifuza byose k'umubare ukeneye.

Ushobora kohererezwa ibintu n'umuntu uri mu mahanga akaba yabishyira kuri iyi posita yabugeneye yitwa FedEx, akaba yabikoherereza bivuye mu mahanga bikaba byakugeraho mu gihugu cyangwa wowe ukaba wabimwoherereza bikamugeraho ari mu mahanga.

Ushobora kugurira ibikoresho byikoranabuhanga kumbugankoranyambaga kuburyo bwiza kandi bwizewe cyangwa imyambaro bitewe nibyo waba wifuza byose, ubu buryo burizewe kuko wishyura ibyo ukeneye bakaba babikugezaho murugo.

Ubu bashyizeho uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu ku mapikipiki, aho usanga hari imishinga myinshi ishinzwe gutwara abantu n'ibintu ku mapikipiki, mu buryo bwiza, ushobora kuba wagira ibintu, bakaba babikugemurira ku mapikipiki yabugenewe, bikakugeraho mu rugo.

N'abakobwa ntago ubucuruzi bwo ku ikoranabuhanga bwabasize kuko hacururizwaho n'ibikoresho by'ubwiza yaba imisatsi n'ibindi binyuranye nk'amaherena n'ibindi byinshi bifasha abakobwa mu bwiza.

Ushobora kugura terefonde, mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikorababuhanga, imyambaro, ibikapu, n'ibindi byose wifuza, ukoresheje ikoranabuhanga, aho usura imbuga zibicuruza ukaba wahitamo ibyo ukeneye ku ngano wifuza, ukaba wabyishyura bakabikugezaho aho utuye.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga bushobora kuba washakira abakiliya ibicuruzwa byawe cyangwa ukaba wakwandikishamo iduka ryawe bitewe n'ibyo ucuruza n'aho riherereye kugira ngo rifashe abakiliya bakeneye ibicuruzwa byawe kuba bamenya aho babibariza naho babigurira.